Abantu babiri harimo umugore umwe wambaye imyenda irimo amabara atandukanye mu mutwe ateze agatambaro k'ibara ry'umweru, ari kumwe n'umwana muto wambaye imyenda y'umweru bombi barimo guseka, umwana ateruye igisorori arimo gusoromeramo imboga rwatsi.

Abantu barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe barahagaze bambaye imyenda y'akazi, imipira y'ibara ry'ubururu ndetse bambaye n'amapantaro. Bambaye udukoresho mu ijosi turanga igikorwa barimo turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, barimo kwifotoza baseka.

Inzu yagenewe kwitabwirwamo abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo bagire ubuzima bwiza, isize irangi ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu b'abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hakaba harimo n'abaganga bambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'umweru. Barimo kwifotoza.

Umwana muto w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye imyenda y'ishuri ahagaze yunamye imbere y'igikoresho gitanga amazi bigaragara ko avomera amazi mu biganza bye, ahagaze imbere y'indabo ndende iri mu ibara ry'icyatsi n'ubururu yagenewe kumenwamo imyanda, hirya ye hari undi mwana w'umunyeshuri wambaye imyenda y'ishuri biragaragara ko bari ahantu ku kigo cy'amashuri bakikijwe n'amazu y'amashuri inyuma yabo hari ibiti.

Abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'abana bato batatu hakaba hubatse urukuta rwubakiyeho ibikoresho byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe cy'ivomwa, hakaba hari umwana mutoya wicaye mu ibase irimo amazi barimo kumukarabya, inyuma yabo hari amazu.

Abantu barimo abana bato n'abakuru bari ku mugezi ari ibikoresho byagenewe kunyurwamo amazi igihe arimo kuvomwa umwana muto afashe ku gikoresho yagifunguye amazi arimo kumeneka yatezeho akadomoro k'ibara ry'umweru hari mu gikorwa cyo kuvoma.

Abantu benshi barimo abana bato bicaye bambaye imipira irimo ibara ry'icunga yanditseho amagambo ibara ry'umukara. Imbere yabo hari umugore usutamye yambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, kaki, n'umukara. Yambaye amadarubindi, afite icyatsi mu ntoki arimo kubanywesha. Ndetse inyuma ye hari abandi bantu benshi bahagaze barimo umugabo, wambaye imyenda ya gisirikare afite icyatsi mu ntoki.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bamwe barahagaze abandi bicaye hasi mu byatsi ndetse no ku ntebe, imbere yabo hubatse ibisharagati by'ibara ry'umweru ndetse hakaba hari n'inzu isize irangi ry'umweru, n'amabati y'ikigina hakaba hashinze n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bakikijwe n'ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugore ari ahantu hari igikoresho cyagenewe kunyurwamo amazi, imbereye hateretse indobo z'amabara atandukanye, arimo kuzoza, yambaye umupira w'ibara ry'icyatsi cyerurutse n'igitenge kirimo amabara y'icyatsi cyijimye n'ibara ry'umutuku n'ibara ry'umuhondo. Ahetse umwana, amuhekeye mu gitenge kirimo amabara y'ubururu n'umutuku, hirya ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ibikoresho bibiri byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe cy'ivomwa biri mu ibara ry'ivu birafunguye amazi arimo kumeneka, imbere yabyo hahagaze umwana muto w'umukobwa yunamye afite igikombe mu ntoki arimo kukivomeramo, arimo guseka anezerewe hakurya ye hari intoki.

Agatsiko k'abantu benshi bakuru harimo abateruye abana bato, bambaye imyenda igaragara ko ari iy'akazi, iri mu ibara ry'icunga ndetse n'ibara ry'icyatsi, bakaba bakenyeye hasi iyi myenda iri mu bwoko bw'ibitenge, bahagaze imbere y'inzu iri mu ibara ry'umweru n'ibara ry'ivu ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bari ku mugezi, harimo abagore ndetse n'abana bambaye imyenda y'amabaratandukanye, harimo abitwikiriye umutaka w'ibara ry'ubururu, imbere yabo hari igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi mu gihe cy'ivomwa, imbere yacyo hakaba hahagaze umwana w'umukobwa ndetse n'umugore bafite ibidomoro by'ibara ry'umuhondo, bari mu gikorwa cyo kuvoma.

Agatsiko k'abantu bahagaze imbere y'inzu y'ibara ry'umuhira n'iry'umweru, hagati yabo hateretse imeza iriho igitambaro cy'umweru n'ingofero y'ubururu, n'imashini yagenewe gukorerwaho ibikorwa by'ikoranabuhanga, bose bambaye udupfukamunwa, ndetse bambaye uturangantego mu ijosi, dufite ibara ry'ubururu n'umweru; hirya yabo hicaye umugabo wenyine ku ntebe, yambaye ingofero n'agapfukamunwa, inyuma yabo hari intebe.

Abana batandatu b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bahagaze imbere y'ikigega cyagenewe gushyirwamo amazi, cy'ibara ry'umukara bafite ibikombe mu ntoki zabo barimo kunywa.

Umuntu wirabura uhagaze yunamye imbere ye hari ibikoresho byagenewe gutanga amazi, imbere kandi hari ikidomoro cy'ibara ry'umuhondo, agifatishije amaboko ye yombi, bigaragara ko arimo kuvoma ndetse hateretse n'akandi kadomoro gatoya k'ibara ry'umweru, inyuma ye n'impande ze hakikijwe n'ibihuru ndetse n'ibiti byo mu ibara ry'icyatsi.

Igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe kivomo gisize irangi ry'ibara ry'ubururu, kirafunguye amazi arimo kunyuramo ndetse hari ibiganza by'umuntu bibiri biteze munsi, iruhande rwacyo hari isabune y'ibara ry'umweru.

Icyumba kinini cyane cyaguye, gisize irangi ry'ibara ry'umweru, harimo abantu bicaye bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo abagore bambaye ibitenge, hari umugore uhagaze imbere uteruye umwana muto, ndetse ufite n'urupapuro mu ntoki.

Icyumba kinini cyaguye gisize irangi ry'ibara ry'umuhondo, gifite amadirishya akozwe mu birahure, harimo abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, bambaye imyenda myinshi yiganjemo ibara ry'ubururu, bicaye ku misambi ifite ibara ry'icyatsi, iry'umukara n'umweru, ndetse n'iry'umutuku na kacyi, inyuma yabo hateretse ameza ari mu ibara ry'ikigina.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe gukorerwamo inama nyinshi zitandukanye, harimo abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, ku ntebe ndetse n'ameza by'ibara ry'umukara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, ndetse imbere yabo hari abantu batatu bicaye, barimo abagabo babiri n'umugore umwe bayoboye inama.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye ishati y'ibara ry'icyatsi cyerurutse, afite umusatsi mukeya w'umukara arahagaze arunamye, imbere ye hari igikoresho cyagenewe gutanga amazi yagifunguye bigaragara ko arimo gukaraba intoki, imbere ye n'inyuma hari indobo zibara ry'ubururu, inyuma ye akikijwe n'ibiti byinshi cyane byo mu ibara ry'icyatsi.

Ibiganza bibiri by'umuntu w'inzobe, imbere ye hari igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kuvomerwaho amazi, biragaragara ko amazi afunguye arimo kumeneka, arimo gukaraba intoki.

Abana babiri barimo uwambaye umupira w'ibara ry'ubururu arimo guseka, uwundi yambaye umupira urimo imirongo y'icyatsi n'iy'umweru, imbere yabo hateretse indobo nyinshi z'ibara ry'umweru ndetse n'igikoresho cyagenewe kunyurwamo amazi igihe cy'ivoma; umwe yafasheho n'ukuboko kwe kw'imoso arimo kugifungura avomera mu ndobo ziri imbere yabo, inyuma yabo hari ibiti by'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bahagaze ku mugezi harimo abana bato ndetse n'abantu bakuru, hakaba hari igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe cy'ivomwa, kiri mu ibara ry'ivu, inyuma yacyo hari umuntu ugifasheho n'amaboko yombi w'umugabo bigaragara ko arimo kugifungura cyangwa kugifunga, hakaba hari ibidomoro biteretse hasi harimo icy'ubururu kirimo kuvomererwamo amazi, inyuma yabo bakaba bakikijwe n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Abana babiri uw'umuhungu n'uw'umukobwa, bigaragara ko umuhungu ari we mukuru umukobwa we muto, umuhungu arahagaze, arunamye, arasa nk'urimo gukaraba intoki, afite isabune mu ntoki, imbere ye hasi hatetse indobo ifite ibara ry'ubururu, ndetse umukobwa afite ibinika mu ntoki ze iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari inzu y'ibyondo, ndetse ifite urugi rw'ikibaho.

Icyumba kinini cyaguye, gisize irangi ry'umweru, hari abantu bakirimo, bahagaze ari benshi, havanzemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Abantu benshi bavanzemo abagore n'abagabo, barahagaze barimo kwifotoza, bambaye imyenda y'akazi ibara ry'umweru, hagati yabo hahagaze umugore w'umuzungu, wambaye ikanzu ndende y'ibara ry'umutuku, bahagaze mu nzu isize irangi ry'umweru, hasi isize irangi ry'umukara ifite inzugi z'ibara ry'ikigina.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo n'abana bato bari ku mugezi imbere yabo hari igikoresho cyagenewe kunyurwamo amazi, hari umugore ugihagaze inyuma ugifasheho n'amaboko ye yombi arimo kugifungura, imbere yacyo hari umwana muto w'umuhungu ufite ibidomoro imbere ye by'ibara ry'umuhondo ari mu gikorwa cyo kubivomera, inyuma yabo hari urutoki.

Amazu arenze imwe mato cyane yubatswe mu matafari y'ibara ry'ikigina na kaki, asizweho irangi ry'ubururu ndetse hanze mu mbuga hateretse amatafari menshi ari mu ibara ry'ikigina na kaki, hanze hubatse urupangu rukozwe muri senyenge.

Abantu bahagaze harimo umwana muto w'umukobwa yikoreye ikidomoro cy'ibara ry'umuhondo gipfundikishijwe n'umukanana. Imbere hakaba hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu. Afashe ku kidomoro, yambaye agapfukamunwa. Ndetse imbere yabo hakaba hari umugore w'umuzungu ufite telefone mu ntoki arimo kubafotora.

Inzu yubakishijwe n'amatafari y'ibara ry'ikigina ifite urugi rw'urubaho ruri mw,ibara ry'ivu imbere yarwo hari umwenda muremure uriwi ibara ry'umuhondo ry'umweru niroza rifashe mbere yayo hari abantu batatu harimo umugabo umwe ndetse n'umugore n'umwana mutoya baricaye barimo kuganira.

Umuntu w'umugore uhagaze yunamye afite indobo mu ntoki y'ubururu itetse mu kintu kimeze nk'ibase iri mu ibara ry'ivu bigaragara ko arimo kuvoma, imbere ye hari igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kuvomeraho amazi, inyuma yacyo hari abantu babiri bahagaze bahurijeho amaboko yombi bigaragara ko barimo kugifungura barimo kumufasha kuvoma amazi, inyuma yabo hari igipangu mu ibara ry'ivu ndetse n'ibiti inyuma yacyo.

Abana bato bane barahagaze, bararamye barimo guseka bateze ibiganza byabo babihurije hamwe, hasi yabo hateretse ibase irimo amazi ndetse iruhande rwabo hari umuntu w'umugabo uhagaze ufite igikombe mu ntoki bigaragara ko arimo kubasukira amazi mu ntoki zabo.

Umwana muto w'umukobwa yambaye imyenda y'ibara ritukura imbere ye hari igikoresho cyagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi, hateretse imbere ye igikoresho cy'ibara ry'umukara cyagenewe gukarabirwamo, yateze ibiganza amazi yayafunguye bigaragara ko ari mu gikorwa cyo gukaraba intoki.

Ibikoresho bibiri byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi mu gihe cy'ivoma, byubakiye ku nkingi isize irangi ry'ubururu, iruhande rwayo hari indobo y'ibara ry'ubururu ndetse imbere yayo, hari umwana w'umuhungu uhagaze yunamye yatezeho ibiganza arimo kubavomera amazi mu biganza bye, yambaye ikabutura n'ishati inyuma ye hakurya hari ibiti byinshi.

Ibikoresho bibiri byagenewe kunyurwamo amazi igihe cy'ivomwa mu ibara ry'ivu, kimwe kirafunguye amazi arimo kunyuramo. Umwana agihagaze imbere yunamye, ateze ibiganza arimo kunywesha amazi ndetse imbere ye hateretse indobo yuzuye amazi iri mu ibara ry'ivu. Inyuma ye hari inzu isize irangi ry'umweru n'ubururu ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi n'ibyatsi.

Inzu yubatswe mu buryo bw'ikiziga igerekeranye, hejuru yubakiyeho utwuma turi mu ibara ry'ubururu, hirya yayo hari iyindi nzu yubatse isize irangi ry'ubururu ndetse isakajwe n'amabati y'ibara ry'umutuku.

Umwana wambaye ishati irimo amabara y'ikigina n'ay'icyatsi n'umweru ndetse n'ikabutura irimo ibara ry'umutuku n'inkweto zirimo ibara ry'ubururu, imbere ye hateretse indobo iri mu ibara ry'ivu, ahagaze yunamye ateze ibiganza arimo kuvomeraraho amazi ayanywa, amazi arimo guturuka mu bikoresho byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe barimo kuvoma, inyuma ye hari inzu irimo ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'ibiti n'ibyatsi.

Agatsiko k'abantu benshi higanjemo igitsina gabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye bamwe muri bo bambaye amadarubindi baricaye imbere yabo hari ameza ateretseho ibirahure birimo icyo kunywa ndetse n'ibitabo bigaragara ko bari mu nama.

Abantu umunani barimo abagore ndetse n'abagabo, baricaye hagati yabo hari ameza maremare ateretseho ibitabo za mudasobwa amacupa y'amazi ariho ibara ry'ubururu biragaragara ko barimo kuganira ku ngingo yerekeye ubuzima buzira umuze.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, barahagaze abandi barunamye, bari mu gikorwa cyo gutera igiti, bambaye imyenda yiganjemo imipira y'ibara ry'ironji yerekana igikorwa barimo. Inyuma yabo hari ibiti byinshi by'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse hakaba hari n'inzu n'ikigega cyagenewe kubikwamo amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye hasi ku mukeka bakikiye abana bato cyane, hakaba hari umugore umwe wicaye imbere yabo yambaye umupira w'ibara ry'umweru akikiye akana gato cyane kambaye umupira w'ibara ry'ironji. Imbere yabo hahagaze umugabo wunamye w'umuhanzi uzwi ku izina rya Israel Mbonyi, afite icyansi mu ntoki kiri mu ibara rya kaki agishyize ku munwa w'umwana arimo kumunywesha.

Ikivunge cy'abantu benshi barimo abana bato b'abakobwa n'abahungu ndetse n'abantu bakuru, bamwe baricaye, abandi barahagaze, higanjemo abantu bambaye imipira y'ibara ry'icunga, abantu bakuru bafite ibikombe birimo icyo kunywa, barimo guha abana.

Icyumba kinini cyagoya cyagenewe abakorerwamo inama nyinshi zitandukanyemo imbere harimo abantu baje mu nama bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye ku ntebe z'ibara ry'umukara ndetse n'ameza ibara ry'umukara imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi yo kunywa hagati yabo hatetse igikoresho cyagenewe gufata amashusho imbere yabo hari abantu batandatu harimo umugabo umwe n'abagore batanu bayoboye inama.

Umwana mutoya cyane wambaye umwenda w'ibara ry'umweru ndetse afite umusatsi urimo uturimbo tw'imisatsi turimo amabara y'icyatsi umuhondo n'umutuku akikiwe n'umugore iruhande rwe hari umuganga umufashe ku kuboko ufite urushinge mu ntoki urimo kumutera.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama z'ubwoko butandukanye, gisize irange ry'umweru, ndetse n'imbere hamanutsemo imyenda miremire y'ibara rya kacyi, imbere hicayemo abantu bari mu nama benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, ku ntebe z'ibara ry'ubururu, n'umutuku, imbere yabo hateretse ameza arambuyeho ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa, imbere yabo hakaba hahagaze umugore urimo kuyobora inama.

Abantu bari ku mugezi hari ibikoresho byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe ki'ivomwa bifunguye amazi arimo kunyuramo, hatezweho ibitomoro biri mw' ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'abantu bahagaze bari mu gikorwa cyo kuvoma, inyuma yabo hirya hari ibiti byinshi cyane biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi harimo abaganga babiri bahagaze umwe ari hirya yambaye umwenda w'akazi ndetse n'agapfukamunwa n'agapfukamusatsi, undi ari hino yambaye umwenda w'akazi n'agapfukamunwa n'agafukamusatsi, imbere ye hateretse ameza ariho ibikoresho bitandukanye yifashisha mu kuvura na mudasobwa, iruhande rwe hari umurwayi wicaye ku ntebe yambaye n'agapfukamunwa arimo kumuvura.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku mikeka, bambaye ibitenge n'imipira y'ibara ry'umweru, hari umugore umwe wicaye imbere wambaye umupira w'ibara ry'umweru, akenyeye igitenge akikiye akana gatoya, na ko kambaye umupira w'ibara ry'ironji ndetse imbere ye, hahagaze umugabo w'umuhanzi, uzwi ku izina rya Izirayeri Mbonyi, afite icyansi mu ntoki arimo kukanywesha.

Abantu benshi bari ku mugezi harimo abagore ndetse n'abana, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hari ibikoresho byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe kivomyi, imbere yabyo hateretse ibidomoro byinshi by'ibara ry'umuhondo birimo kuvomerwa.

Abana batatu bashotse mu ruzi bakandagije ibirenge byabo mu mazi, afite ibara ryenda gusa nk'umuhondo, babiri bo ku mpande bafite indobo ziri mu ibara ry'umweru, umwe wo hagati afite indobo iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibiti byatemwe n'ibyatsi bigaragara ko byumye.

Abantu batanu barimo ab'igitsina gabo bane ndetse n'uw'igitsina gore, umwe bambaye imyenda y'akazi, harimo iy'ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'iy'ibara ry'umweru. Umwe yambaye amadarubindi ndetse n'udupfukantoki, bicaye ku ntebe irambuye y'urubaho iri mu ibara ya kake bicaye, mu gicararagati cy'ibara ry'umweru.

Abantu benshi barimo abana bato, abagore, n'abagabo, bari ku mugezi, hari igikoresho cyagenewe kunyurwamo amazi kiri m u ibara ry'ivu, hari umugore uhagaze inyuma ugifashe n'amaboko ye bigaragara ko arimo kugifungura, amazi arimo kumeneka, hari umwana ugihagaze imbere yatezeho ibidomoro biri mu ibara ry'umuhondo ari mu gikorwa cyo kuvoma, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti.

Umuntu w'igitsina gabo yambaye ipantaro y'ibara ry'umukara ndetse n'ishati ya karokaro yiganjemo umweru n'umukara, imbere ye afite ikidomoro kiri mu ibara ry'umuhondo agishikamijeho amaboko ye yombi, arimo araseka ubona ko yishimye, iruhande rwe hari ibikoresho byagenewe gutanga cyangwa se kunyuzwamo amazi, inyuma ye hari ibiti by'ibara ry'icyatsi ndetse n'amazu.

Icyumba kinini cyaguye gisize irangi ry'umweru gifite urugi rw'ibara ry'ikigina, gifite amadirishya akozwe mu birahure, harimo abantu benshi bicaye ku ntebe bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bari mu nama.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe gukorerwamo inama z'ubwoko butandukanye, harimo abantu batandatu bavanzemo abagabo ndetse n'abagore bicaye iruhande rwabo. hatetse amacupa arimo amazi, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse bambaye n'udupfukamunwa.

Abantu benshi bahagaze bambaye imipira y'umweru niy'ubururu, n'ingofero z'umweru n'iz'ubururu, harimo umugabo umwe wambaye amadarubindi ,ndetse n'udukoresho amatwi twifashishwa kumva amajwi mu ibara ry'umweru, bateruye ikirangantego cya arabisi, cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, inyuma yabo hari ibiti n'amazu.

Abantu b'abagabo babiri bari ahantu hameze nko mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, bambaye imyenda y'umukara bombi barahagaze, bahuje ibiganza barimo gusuhuzanya baseka, umwe afite ibitabo mu kuboko kwe kw'ibumoso.

Abantu biganjemo abambaye imyenda y'ibara ry'icunga bamwe barahagaze abandi barasutamye abandi barunamye imbere yabo hari abana bato nabo bambaye imyenda y'ibara ry'icunga barimo kubahereza cyo kunywa mu byatsi ndetse no mu bikombe.

Abana batoya bahagaze b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri iri mu mabara y'ubururu bufashe n'ubururu bwerurutse, bari kumwe n'abantu bakuru babakikije bambaye imyambaro y'amabara atandukanye. Bahagaze mu gisharagati cy'ibara ry'umweru.

Igikoresho cyagenewe kunyurwamo amazi kiri mu ibara ry'umweru, kirafunguye amazi arimo kunyura. Iruhande rwacyo hahagaze abana babiri batoya, imbere yacyo hahagaze umugore umwe wunamye, afite ikidomoro mu ntoki ze cy'ibara ry'umuhondo, ari mu gikorwa cyo kuvoma, iruhande rwe hateretse ikindi kidomoro cy'ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hirya hari ibiti byinshi by'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abana bato b'abakobwa n'abahungu b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara rya kacyi, bari ku mugezi ahari ibikoresho byagenewe gutanga cyangwa kunyurwamo amazi igihe arimo kuvomwa, imbere yabo hateretse indobo ndetse n'utudomoro, bari mu gikorwa cyo kuvoma.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu ishuri harimo abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri iy'ubururu ndetse n'iya kaki, bicaye ku ntebe z'ibara rya kaki z'imbaho. Imbere yabo hateretse amasahani y'ibyuma hariho ibyo kurya ndetse n'amakanya barimo kurya baseka banezerewe, inyuma yaho hari urubaho rwagenewe kwandikwaho ruri mu ibara ry'umukara ndetse handikishijweho ingwa y'ibara ry'umweru.

Abana bane bari ku mugezi bagaragara ko baje kuvoma, umwe muri bo wambaye umupira w'amatuku, ikabutura y'ubururu inkweto z'umukara afashe inkoni mu ntoki yashinze hasi. Uwundi afashe ku cyuma cyagenewe gutanga amazi yagifunguye, amazi arimo kumeneka imbere ye hateretse ikidomoro k'ibara ry'umuhondo ndetse inyuma yabo hateretse n'ikindi kidomoro cy'umuhondo, inyuma yabo bakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Agatsiko k'abantu benshi bahagaze bavanzemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'akazi yitwa amataburiya iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ay'umweru, bambaye uturangantego mu ijosi tw'akazi cyangwa se tugaragaza igikorwa barimo mu ibara ry'ubururu n'umweru, hagati ya babiri bari imbere hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara n'amadarubindi, inyuma yabo hari ibiti byinshi by'ibara ry'icyatsi.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe gukorerwamo inama z'ubwoko butandukanye, harimo abantu benshi bicaye bavanze, abagabo n'abagore, ku ntebe z'ibara ry'umukara, imbere yabo hateretse ameza y'ibara ry'umukara, hariho amacupa arimo amazi yo kunywa, hagati yabo hateretse igikoresho cyagenewe gufata amashusho, imbere yabo hari abantu batandatu bicaye, harimo abagore batanu ndetse n'umugabo umwe bayoboye inama.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda iri mu bwoko bw'amashati maremare mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko bari mu kazi harimo n'abandi batanu; abagabo bane n'umugore umwe batayambaye bose bafite ibikoresho by'itumanaho mu ntoki zabo, inyuma yabo hari ibiti.

igikoresho cyagenewe gutanga cyanga kunyurwamo amazi mu gihe cy'ivomwa, kiriw'i ibara ry'ivu, kirafunguye amazi arimo kunyuramo ,hari umwana w'umuhungu muto ugihagaze imbere yunamye ,yatezeho ikiganza cy'amazi arimo kumeneka mu kiganza cye, arimo guseka yambaye umwenda w'ubururu n'umukara hejuru, ndetse hasi yambaye ikabutura y' ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Icyumba kinini cyaguye gisize irangi ry'ibara ry'umweru, hamanitsemo imyenda miremire iri mu ibara rya kake, mo imbere hicayemo abantu barimo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe isa ibara ry'ivu, imbere yabo hateretse ameza arambuyeho ibitambaro biri mu ibara ry'umweru, ndetse imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi na za mudasobwa.

Inzu isize irangi ry'umweru ikaba ifite idirishya rikozwe mu birahure hasizeho irangi ry'ubururu, iruhande rwayo igice kimwe hubakishijweho amabuye hasizeho irangi ry'umukara imbere yabo hakaba hahagaze abantu babiri umugore ndetse n'umugabo ufite igipapuro imbere gishushanyijeho abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo barimo kubitegereza.

Imifuka myinshi ipakiyemo ibintu byuzuye, iri mu ibara ry'umweru yanditseho amagambo y'ubururu, hari abagore babiri bayihagaze imbere, n'undi mugabo uhagaze hejuru, bose uko ari batatu bafashe umufuka umwe barimo kuwuterurana.

Agatsiko k'abantu benshi bahagaze bari hamwe, inyuma yabo hari inzu iri mu ibara ry'umuhira ndetse n'amatafari ifite amadirishya afite utwuma tw'ibara ry'umukara ndetse n'ibirahure, hasi aho bakandagiye hasize irangi ry'umutuku.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara rya kaki, ari kumwe n'undi muntu w'umugore, wunamye wambaye umupira w'ibara ry'ubururu ndetse akenyeye n'igitenge, yambaye agapfukamunwa, afashe intoki z'umwana, hariho isabune arimo kumukarabya, inyuma yabo hari ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore b'abaganga bambaye imyenda y'akazi, iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'iyindi y'umweru, mu ijosi bambayemo udukoresho twagenewe kuranga akazi bakora, turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'amadarubindi, inyuma yabo hari ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye imyambaro yiganjemo imipira y'ibara ry'umukara igaragaza igikorwa barimo, barahagaze, abandi ku murongo w'imbere baricaye ku ntebe z'ibara ritukura, barimo kwifotoza.

Umuntu wirabura ubumbye umunwa, urakaye utishimye, ugaragara nk'aho ababaye cyane ndetse yanarize n'amarira yashotse ku maso yatembye ku matama, aragaragara igice kimwe gusa, ijisho rimwe, irindi ntirigaragara.

Abantu barimo abagabo n'abagore, barahagaze bambaye udukoresho mu ijosi, tugaragaza akazi bakora cyangwa se igikorwa barimo. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo iy'umukara, umweru, umuhondo n'ubururu bwerurutse. Imbere yabo hatetse ameza ariho ibitambaro, by'ibara ry'umukara ndetse n'ibindi bikoresho, harimo icy'ibara ry'umutuku, n'ibindi by'ibara ry'ubururu.

Inzu isizwe n'irangi ry'umweru ndetse n'ubururu, ikaba ifite amadirishya akozwe mu birarahure asizwe irangi ry'ubururu ndetse imbere yayo hakaba hafasheho akandi kazu gatoya kari mu ibara ry'ubururu. Imbere ikaba ifite igipangu cyubakishijwe n'amabuye ndetse n'ibyuma bisize irangi ry'ubururu.

Inzu isize irange ry'umweru harimo abantu babiri b'abagabo bahagaze, umwe mugufi w'igikara yambaye imyenda ishwanyaguritse ndetse uw'undi muremure yambaye imyenda isa neza, yambaye ishati irimo amabara y'ubururu n'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara barimo kurebana mu maso bahuje ibiganza barasuhuzanya.

Abantu batatu b'igitsina gore baricaye ku ntebe z'imbaho, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse bambaye n'udupfukamunwa, babiri bafite upfukamunwa tw'ibara ry'ubururu bwerurutse, uwundi umwe yambaye agapfukamunwa k'ibara ry'ubururu bwijimye. Hirya yabo hari amazu y'ibyatsi.

Abantu benshi barimo abantu bakuru ndetse n'abana bato, harimo umuntu umwe uhetse ikidomoro cy'ibara ry'umuhondo mu mugongo, ndetse n'undi mugore ufite inkwi mu ntoki. Hakaba harimo umwana umwe wambaye umwenda w'ibara ry'umweru, yikoreye amaboko arimo kurira.

Umugore wirabura urimo guseka agaragara ko yishimye, afite imisatsi migufi y'umukara, yambaye imyenda ibiri uw'inyuma uri mu ibara ry'iroza uw'imbere uri mu ibara ry'ubururu ari imbere y'inzu.

Umukecuru wirabura yambaye umurimbo wo mu ijosi uriho amasaro y'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu, yambaye indi mirimbo yo ku matwi, mu mutwe we ateze igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo n'abambaye amadarubindi, bafite urupapuro mu ntoki rw'ibara ry'umweru bahurijeho intoki bose, inyuma yabo haparitse imodoka y'ibara ry'umweru ndetse hubatse ibisharagati birimo ibara ry'umweru n'icyatsi.

Ibiti byinshi biteye birebire binini, hari umugore umwe wicaye imbere y'igiti ku mukeka uzinze, ukuguru kwe kumwe kuziritsweho umunyururu uziritse no kuri icyo giti, yambaye umupira w'ibara ry'umweru ndetse n'igitenge kirimo amabara y'ubururu n'umuhondo, amaboko ye yayafatishije ku mavi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bamwe barahagaze abandi baricaye bakoze ikiziga ku ntebe z'ibara ry'ivu ndetse na kakiyi batanu bahagazemo hagati.

Umuntu w'umukecuru wirabura, yambaye imyenda iri mu bwoko bw'igitenge, umwe awambaye ku mubiri undi awuteze mu mutwe, byombi birasa, birimo amabara atandukanye ari yo: icyatsi, umuhondo, umweru, umukara, arimo araseka, bigaragara ko yishimye ndetse inyuma ye hari ikivunge cy'abantu nubwo batagaragara neza.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bamwe barahagaze abandi baricaye ku ntebe z'umweru n'ivu n'ameza y'umweru n'umukara, abandi bicaye ku ntebe z'ibara ry'umweru gusa, mu gisharagati cy'ibara ry'umweru n'icyatsi, inyuma yabo hari intebe ziri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, hasi hari ibyatsi n'ibitaka.

Umugabo w'umuzungu uri hanze imbere y'igipangu cyubakishijwe n'amatafari ya ruriba, mu ibara ry'ikigina, ahagaze amwenyura, yambaye ishati ya karokaro yo mu ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse yambaye ipantaro ya kaki, umukandara w'ibara ry'umukara, inkweto za kaki, ku kuboko kwe yambayeho isaha y'umukara ndetse ahetse igikapu cy'ibara ry'umukara.

Abantu benshi barimo kugendera mu muhanda, higanjemo abambaye imipira y'ibara ry'icyatsi kerurutse, ndetse n'abandi bambaye imyenda ya Polisi y'Igihugu cy'u Rwanda, bafite ikirangantego cy'ibara ry'umweru cyanditseho kurwanya ihohoterwa, ndetse imbere yabo hari umugabo ufite igikoresho cyagenewe kurangurura amajwi cy'ibara ry'umweru n'urupapuro mu ntoki.

Umuntu wicaye ku gikarito hasi yakirambuye yegamye ku gikuta cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara. Yambaye imyenda isa nabi mu bigaragara harimo umupira ndetse n'ipantaro n'inkweto, ahantu yicaye hari amashashi menshi.

Umugabo wirabura, arahagaze yambaye umwenda w'amaboko maremare w'ibara ry'ubururu arimo kumwenyura, inyuma ye hari abandi bantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye bigaragara ko bari mu gikorwa runaka.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, ku rukuta yashushanyijeho ururabo rurema amabara icyatsi umuhondo n'umweru, hateretsemo intebe zimbaho zitambitse ziri ibara rya kaki, akaba yicayeho umuntu w'umugore wambaye imyenda y'jipo n'umupira ateze agatambaro mu mutwe, afite umusatsi wumukara arareba ku ruhande.

Ikivunge cy'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse bamwe muri bo harimo abambaye amadarubindi bahagaze hanze imbere y'inzu isize irangi ry'umweru barimo kwifotoza.

Umuntu w'umusore cyangwa umugabo ukiri muto wambaye umupira, ibara ry'umuhondo afite umusatsi w'umukara, afite ubwanwa bw'umukara arimo guseka agaragara ko yishimye.

Abantu batanu barimo abagore batatu n'umwana n'umugabo umwe, bicaye ku ntebe z'imbaho zitambitse, bigaragara ko barimo kuganira ku ngingo runaka, inyuma yabo hari intoki nyinshi ndetse n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Abana benshi bicaye harimo ab'abahungu ndetse n'ab'abakobwa, bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abambaye umuhondo n'umweru, icyatsi, ubururu, umutuku, ndetse n'andi mabara atandukanye.

Umugore arahagaze yambaye umwenda w'ubururu n'umuhondo, yambaye amadarubindi, afite imisatsi y'umukara, arimo araseka yambaye umurimbo wo mu ijosi, imirimbo yo ku matwi, imirimbo ku kuboko, umurimbo wo ku rutoki, afite ikarita mu ntoki iranga igikorwa arimo, arimo arayerekana ifite umushumi w'ibara ry'ubururu awambaye mu ijosi, inyuma ye hari igipangu n'inzu y'ibara ry'umweru n'amabati.

Umugabo uhagaze wambaye ishiti y'amaboko maremare mu ibara rya kaki n'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara yambaye amadarubindi y'umukara, ahagaze imbere y'inzu y'ibara ry'iroze ryerurutse, inzugi z'ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahure hariho ibara ry'umweru, imbere yayo hateretse indabo zishinze mubikoresho byazo byabugenewe ndetse n'izindi ziteye hasi mu ibara ry'icyatsi.

Ikivunge cy'abantu benshi barimo abagabo n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bari ahantu hasa neza mu cyumba kinini cyaguye barimo kwifotoza.

Umupira w'amaboko magufi w'umweru ndetse ufite amaboko no mu ijosi bisa ibara ry'ubururu bwijimye, mu mugongo hawo handitswemo amagambo y'ibara ry'ubururu bwijimye ndetse hashushanyijwemo akamenyetso karimo amabara atandukanye, harimo ibara ry'icunga, iry'iroza ryerurutse, icyatsi cyerurutse ndetse n'ubururu bwerurutse.

Umuntu w'igitsina gabo arahagaze yegamye ku rukuta rusize irangi ry'umweru ndetse hariho n'ibara ry'ivu yambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku arararamye arimo kureba hejuru.

Umuntu wirabura cyane wambaye imyenda isa nabi cyane ishwanyaguritse iri mu ibara ry'umukara hejuru ndetse no hasi yambaye n'ibikweto bisa nabi cyane biri mu ibara ry'umweru, mu ntoki ze ateruye ibipfuka biri mu bwoko butandukanye nyuma yaparitse ikimodoka cy'igikamyo kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Umugore wirabura ufite agasatsi gake k'umukara, yambaye ishati y'amoko maremare n'umwenda w'igitenge hasi na kamambiri; yabusanyije amaboko kw'iburyo no kw'ibumoso. Yicaye ku gatebe katambitse kare kare k'urubaho, imbere ye hari umusambi; ari mu nzu y'ibyondo. Inyuma ye hejuru hari idirishya rikinguye riri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama harimo abantu babiri umugabo umwe wicaye yambaye agapfukamunwa ndetse n'undi mugore wicaye afite indangururamajwi mu ntoki ze iririmo ibara ry'umukara arimo kuvuga, imbere yabo hateretse ameza ari mu ibara rya kaki ndetse hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo wirabura wambaye imyenda ishwanyaguritse isa nabi cyane yo mu ibara ry'umukara, ndetse no mu mutwe yambaye ingofero y'ibara ry'umukara, ukuboko kwe kw'imoso afitemo amashashi arimo amazi, ukuboko kwe kw'iburyo yagutangirishije umusaya, yicaye ahinnye amaguru ye yegamiye igikuta, iruhande rwe hari igikarito.

Abana batoya barimo ab'abahungu ndetse n'abakobwa baricaye barimo guseka ubona ko banezerewe. Harimo abambaye imyambaro y'ishuri iri mu ibara ry'icyatsi kerurutse ivanzeho akabara k'ubururu ndetse n'abandi bambaye indi myambaro isanzwe y'amabara atandukanye.

Agatsiko k'abantu benshi bambaye imipira y'ibara ry'ubururu igaragaza igikorwa barimo, ahantu bari hari ibyatsi bari mu gikorwa cyo gutera ibiti, inyuma yabo hari amazu ndetse bakikijwe n'ibiti mu gipangu cy'amatafari.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo amenyo, kikaba gisize irangi ry'umweru, mo imbere hateretsemo ibikoresho byinshi bitandukanye, byagenewe kwifashishwa mu kuvura amenyo, biri mu ibara ry'umweru ndetse hateretsemo intebe iri mu ibara ry'umukara.

Umugore wirabura wambaye akenda gaciye amaboko mu ibara ry'umweru, afite umusatsi w'umukara, yambaye imirimbo yo ku matwi, amaboko ye yombi ibumoso n'iburyo, yaziritse urudodo ku ntoki ze ruri mu ibara ry'umweru rwagenewe gusukura amenyo, yarushyize ku menyo ye; yashinyitse bigaragara ko arimo gusukura amenyo ye, ndetse yahumirije amaso.

Umugabo usa inzobe, nta musatsi afite ariyogoshesheje, afite ubwanwa bumanutse ku matama n'ubundi hagati y'umunwa wo hejuru ndetse n'amazuru ye, n'ubundi buri hasi ku kananwa buri mu ibara ry'umukara, arimo guseka yambaye umupira w'ibara ry'ubururu bwijimye.

Umukobwa ugaragara ko akiri muto w'inzobe ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye agapira gaciye amaboko k'ibara ry'umweru, ukuboko kwe gufashe uburoso bwoza amenyo, yabushyize mu kanwa ashinyitse bigaragara ko arimo koza amenyo yirebera mu ndorerwamo.

Ikivunge cy'abana benshi batoya b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, bafite ibikombe mu ntoki bigaragara ko birimo amazi, biri mu ibara ry'ubururu n'umweru, ibindi biri mu ibara ry'umuhondo, umweru n'icyatsi, ibindi biri mu ibara ry'iroze, bafite uburoso bw'amenyo mu kanwa, bigaragara ko barimo koza amenyo.

Abantu batandatu harimo umwana mutoya ufite udukoresho twagenewe kwerekanirwaho uko basukura amenyo n'umuganga umuri iruhande ufite uburoso bw'amenyo mu ntoki, urimo kumwereka uko uburyo basukuramo amenyo.

Icyumba cyagenewe kwitabwaramo abantu bafite ibibazo by'amenyo, harimo abantu babiri umwana mutoya uryamye agaramye ndetse n'undi umuhagaze hejuru y'umuganga wambaye udupfukantoki, afite ibyuma mu ntoki ze zombi bigaragara ko arimo kumwitaho.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abafite ibibazo by'amenyo, kirimo umugore uryamye ku gatanda ndetse n'abagabo babiri, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso bwe, bambaye imyenda y'akazi b'abaganga, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amadarubindi bari mu gikorwa cyo kumuvura kugenzura amenyo uko ameze.

Umugabo ukiri muto w'inzobe afite umusatsi muke w'umukara n'ubwanwa bw'umukara arimo guseka, yicaye yegamye ku ntebe y'ibara ry'ivu. Yambaye umwenda w'amaboko maremare w'ibara rya kaki, imbere ye mu gatuza yirambuyeho agatambaro k'ibara ry'umweru, ari mu nzu y'ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze arimo kurebera mu ndorerwamo, afite uburoso bw'amenyo mu kanwa bigaragara ko arimo gusukura amenyo ye, ntamusatsi afite, afite ubwanwa bw'umukara, yambaye umwenda w'umukara n'umweru, imbere ye hateretse igikoresho bifashisha kwisukura avuye mu bwiherero, inyuma ye hari umwenda muremure uri mu ibara ry'umutuku na kaki.

Umugabo ukiri muto wirabura ufite ubwanwa hagati y'umunwa wo hejuru n'izuru rye ndetse no hasi ku kananwa by'umukara, mu maboko ye yombi iburyo n'ibumoso afashemo urudodo rwagenewe gusukura amenyo rw'ibara ry'umweru yarushyize ku menyo ye yasamye, yashinyitse bigaragara ko arimo gusukura amenyo ye.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo amenyo, gisize irangi ry'umweru, harimo igikoresho hejuru cyagenewe gutanga ubukonje mu gihe cy'ubushyuhe. Harimo ibikoresho byagenewe kwifashishwa mu gihe cyo kuvura amenyo, harimo intebe ziri mu ibara rya move, ndetse n'umweru, hakaba harimo n'indi ntebe ikozwe mu cyuma, ibara ry'ivu, iri mu ibara rya move n'umukara.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo amenyo hasizemo irange ry'ibara ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu kuvura biri mu ibara ry'umweru, harimo intebe ziri mu ibara rya move ndetse n'irindi y'ibara ry'umukara, harimo ameza ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo amenyo kirimo abantu babiri barimo umwana muto, uryamye araramye ndetse n'undi uhagaze imbere w'umuganga wambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru ndetse n'udupfukantoki turi mu ibara ry'umweru, afite ibyuma mu ntoki byagenewe kwifashishwa, urimo kuvura amenyo, yabishyize mu kanwa k'uwo mwana bigaragara ko ari mu gikorwa cyo kumuvura amenyo.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo amenyo harimo abantu babiri umwe uryamye araramye undi akaba ari umuganga umuhagaze hejuru w'umugore yambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'ubururu n'udupfukantoki tw'ibara ry'ubururu n'agapfukamusatsi k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, afite utwuma twagenewe gukoreshwa yatumushyize mu kanwa arimo kumuvura.

Umugabo wirabura ugaragara ko akiri muto, yambaye umupira w'ibara ry'umweru, afite umusatsi w'umukara, arimo kwirebera mu ndorerwamo, intoki ze zifashe agakoresho kameze nk'urudodo bifashisha basukura amenyo, yagashyize ku menyo, yashinyitse, bigaragara ko arimo kwikorera isuku yo mu menyo, ndetse ari mu cyumba gifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bavanzemo abagore ndetse n'abagabo, bamwe bicaye ku ntebe z'ibara ry'umweru mu gisharagate cy'ubururu n'umweru, abandi bari hanze batonze umurongo bari mu gikorwa cyo kwisuzumisha amenyo. Ndetse hakaba hari n'abaganga bari kumwe na bo bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umweru barimo kubasuzuma.

Umuntu w'igitsina gore w'inzobe uhagaze yunamye, mu kuboko kwe kw'iburyo afashe uburoso mu ntoki bwagenewe koza amenyo bwo mu ibara ry'ubururu n'umweru, abushyize ku menyo bigaragara ko arimo koza amenyo, yambaye agapira gaciye amaboko ko mu ibara ry'umweru ndetse mu mutwe ateze igitambaro cyo mu ibara ry'umweru n'umusatsi we imbere uragaragara, urasa ibara ry'umukara.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa hagati y'umunwa wo hejuru, ndetse n'amazuru ndatse no hasi kukananwa, bw'umukara. Afite agakoresho kagenewe gusukura amenyo karimo ibara ry'icyatsi, yashinyitse yagashinze kumenyo, biragara ko ari gusukura amenyo ye.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abantu bafite ibibazo by'amenyo, harimo abantu bicaye ku ntebe, bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi handitseho, tubiteho mu ibara ry'umuhondo. Imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kibara ry'umweru, hakaba hari n'abandi babari inyuma, bambaye imipira y'umweru ndetse n'udupfukamunwa n'udupfukantoki mu ibara ry'umweru, barimo kubasamura akanwa babitaho mu buryo bwo kubavura.

Umugore wirabura yambaye umwenda uciye amaboko w'ibara ry'umweru, afite umusatsi muremure w'umukara, ukuboko kwe kw'imoso afashe uburoso bwoza amenyo bw'ibara ry'iroza ndetse n'umweru, yabushyize ku menyo ye, bigaragara ko arimo gusukura amenyo ye, arimo kwirebera mu ndorerwamo aseka, imbere ye hateretse ibicupa byagenewe gushyirwamo amavuta ndetse n'ikirahure kirimo uburoso bw'amenyo.

Umugabo wirabura, afite agasatsi gake k'umukara, n'ubwanwa bw'umukara, mu ntoki ze zombi iburyo n'ibumoso hafashe akadodo k'ibara ry'umweru kifashishwa mu gusukura amenyo, yasetse yagashyize ku munwa bigaragara ko ari mu gikorwa cyo gusukura amenyo ye.

Umukobwa usa inzobe yambaye igitambaro gifite ibara ry'umweru mu mutwe, mu ntoki ze ukuboko kw'imoso afite agakoresho kagenewe gusukura amenyo gafite ibara ry'ubururu, yagashinze ku menyo ye bigaragara ko arimo gusukura amenyo yiwe.

Umugabo w'inzobe wogoshe udafite umusatsi, afite ubwanwa bukeya bw'umukara, intoki ze zombi zifashe urudodo rw'umweru rwagenewe gusukura amenyo, yashinyitse, yarushyize ku menyo, bigaragara ko arimo gusukura amenyo ye.

Umusore cyangwa se umugabo ukiri muto, wirabura ufite umusatsi w'umukara n'ubwanwa bw'umukara, arimo guseka ubona ko yishimye, yambaye ishati y'ibara ry'ubururu ndetse n'undi mupira mo imbere w'ibara ry'ikigina.

Abantu babiri b'igitsina gore bicaye umwe afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki afite ibyo arimo kwandika yambaye amadarubindi ari mu ibara ry'ubukara arimo n'ibara ry'umweru undi begeranye afite urupapuro mu ntoki ze arasa nk'aho afite ibyo arimo kwerekana araseka ubona ko yishimye.

Inzu ndende yubatswe mu buryo bugerekeranye, yagenewe kuvurirwamo amenyo, isize irangi ry'umweru, hejuru hariho ibara ry'ubururu ndetse handitseho amagambo y'ibara ry'umuhira n'andi y'ibara ry'umukara, ifite igipangu cyubakishijwe n'amabuye, hejuru hariho ibyuma biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibyivu, hanze hari umuhanda w'amabuye.

Umusaza uhagaze imbere ye hari indorerwamo yambaye umupira w'ibara ry'ivu ndetse yambaye n'amadarubindi afite umusatsi w'umweru, mu ntoki ze afitemo agakoresho afite ibyo arimo kugenzuraho, imbere ye hateretse uburoso bwagenewe koza amenyo ndetse n'umuti wifashishwa mu koza amenyo, hirya ye hateretse agacupa karimo umutima musukano uri mu ibara ry'ubururu.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri iri mu ibara ry'ubururu bafite uburoso bwoza amenyo mu ntoki zabo harimo ufite ubw'ibara ry'umuhondo, harimo n'abandi bafite ubw'amabara y'ubururu bashyize mu kanwa bagaragara ko barimo gusukura amenyo yabo.

Abagore babiri bagaragara ko bakuze, umwe afite n'umusatsi w'umweru yambaye amadarubindi afite ikirahure mu ntoki kirimo icyo kunywa, undi afite n'umusatsi w'umukara afite imirimbo ku matwi imbereye hateretse imboga nyarwatsi bigaragara ko arimo kuzitunganya. Bari munzu irimo ibara ry'umweru imanitsemo isaha iri mu ibara ry'umweru, iriho imibare iri mu ibara ry'umukara ndetse inyuma yabo hari akabati karimo ibikoresho byo munzu: imishyo ,ibikombe ndetse n'ibirahuri.

Umusaza n'umukecuru baricaye, barimo guseka ubona ko banezerewe, bahuje urugwiro, buri umwe afashe undi ku rutugu, umukecuru yambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ateza igitambaro gitukura mu mutwe we ndetse umusaza yambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara.

Umusaza ufite imisatsi y'umukara n'umweru ndetse n'ubwanwa bw'mweru, yambaye umupira w'ibara ry'umweru, ipantaro y'ibara ry'ubururu bwijimye arimo gukora imyitozo ngororangingo, arunamye ukuboko kwe kw'iburyo yagufatishije ku ntebe, ukundi yaguhiniye inyuma gufashe agakoresho kagenewe gukora imyitozo ngororangingo, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye imyenda y'akazi urimo kumufasha.

Abantu icyenda barimo abagore n'abana bato n'umugabo, bicaye bamwe mu ntebe abandi bicaye hasi, umugore umwe arimo kuboha igitebo gikozwe mu mikindo y'ibara rya kaki, abandi barimo baramureba barimo baraseka abona ko bishimye.

Umugore ugaragara ko akuze arimo gukora imyitozo ngororangingo, yambaye umupira w'ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, afite imisatsi y'umweru yicaye hasi ku gakoreshwa kagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, yahinnye ukuguru kwe kw'imoso ukundi kw'iburyo arakurambura, amaboko ye yombi uko ari abiri yayarambuye ayafatishije ku kirenge cye cy'iburyo haruguru ahagana ku mutwe ku mano.

Umusaza wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo n'ipantaro irimo ibara ry'ubururu bwijimye, afite ubwanwa bw'umweru, umusatsi w'umukara n'umweru. Aho afite umugozi mu biganza bye uri mu ibara ry'umuhondo afatanyije n'undi bari kumwe wambaye umupira wibara ry'ivu ugaragara nkaho arimo kumufasha gukora imyitozo ngororangingo.

Abantu barimo abakecuru n'abasaza barimo gukora imyitozo ngororangingo bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umweru, roza, icyatsi cyerurutse ndetse n'ubururu n'ibara ry'umubirira bafite mu ntoki zabo udukoresho twagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, umwe w'imbere arimo guseka.

Abagore babiri harimo ukuze cyane ufite imisatsi y'umweru n'umukara yambaye agapira kari mu ibara ry'ivu, yambaye imirimbo yo ku matwi ari imbere ndetse n'uwundi umuri inyuma wambaye akenda gaciye amaboko, kari mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse hariho ibara ry'umuhondo. Yambaye nawe we imirimbo yo ku matwi, afite imisatsi y'umukara bari mu myitozo ngororangingo barambuye amaboko y'iburyo n'ay'ibumoso.

Abantu babiri, umusaza wirabura ndetse n'umugore w'umuzungu, bari ahantu mu cyumba gisize irangi ry'umweru ndetse iruhande rwabo hari akabati gasize irangi ry'umweru n'iry'ikigina, umusaza imbere ye afite agakoresho kabugenewe gafasha umuntu gutambuka ndetse umugore agafashaho, amufasha no ku rutugu, arimo kumufasha gutambuka mu buryo bwo kumuvura.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare w'imbeho uri mu ibara ry'iroze n'akandi gapira imbere k'ibara ry'ivu, afite umusatsi w'umweru, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki n'amasogisi y'umweru, afite umusatsi w'umweru, yambaye amadarubindi bombi baraseka bigaragara ko bishimye. Imbere yabo hateretse imeza iriho udukoresho bifashisha bakina umukino wo kubaka, turi mu ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu babiri barimo umugabo ukuze wicaye mu igare ryagenewe gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, yambaye amadarubindi, afite imisatsi y'umukara ivanzemo n'umweru, ari kumwe n'umwana muto iruhande rwe, wambaye umupira w'ibara ry'icyatsi w'amaboko maremare, ipantaro y'ubururu, afite imisatsi myinshi y'umukara, bafite udukoresho mu ntoki tuba twagenewe gukina umukino ukinirwa kuri mudasobwa.

Umuhanda w'igitaka urimo kugenderwamo abantu benshi batandukanye, hakaba harimo abakecuru babiri bari imbere y'abandi bambaye imipira y'ibara ry'umutuku ndetse biteye imyitero y'ibara ry'umweru, bafite inkoni z'igiti bazishinze hasi barimo kuzigenderaho, hari abandi bantu inyuma yabo barimo abagabo, abagore n'abana bato, hakaba hakurya yabo hari insina ndetse n'ibiti by'icyatsi kibisi n'amazu.

Abagore babiri umwe ukuze yambaye amadarubindi imisatsi y'umweru, yambaye umupira w'amaguru maremare mu ibara ry'umuhira afite icyuma mu ntoki arimo arakata imboga n'imbuto ndetse n'undi mugore iruhande rwe ukiri muto wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, imirimbo yo ku matwi, imbere ye hatetse ibakure y'ikirarahure bombi barimo baraseka bigaragara ko bishimye.

Umukecuru wicaye yambaye umupira w'ibara ry'ubururu bwijimye, yambaye amadarubindi y'ibara ry'umutuku, yambaye imirimbo yo ku matwi, afite umusatsi w'umweru n'umukara, afite ikirahure mu ntoki mu kuboko kwe kw'ibumoso kirimo amazi, ndetse ukuboko kwe kw'iburyo yakuzamuye agufatishije ku mazuru no ku munwa.

Abantu babiri baricaye barimo umusaza yambaye ishati irimo imirongo imanutse y'ubururu n'iy'umweru, afite ubwanwa bw'umweru n'umusatsi w'umweru, ari kumwe n'umugore wambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'umurimbo wo mu ijosi, afite umusatsi w'umweru uvanzemo n'ikigina, imbere yabo hari imeza irimo ibara ry'ikigina hateriretseho uducupa dutoya tw'ibara ry'umweru, bafite urupapuro mu ntoki rw'umweru na telefone bafite ibyo barimo kureberaho ndetse imbere yabo hatetse ikirahure cy'amazi.

Imeza iteretseho agakoresho kagenewe kumvisha amajwi mu buryo buranguruye, kari mu ibara ry'umukara, ndetse n'intebe zicaweho abantu babiri, umwe akaba ari umugore wambaye umwenda w'ubururu, yambaye akaranganirwa mu ijosi, kari mu ibara ry'umweru, kerekana akazi akora cyangwa se igikorwa arimo, akaba ari kumwe n'umusaza iruhande rwe, wambaye ishati y'amaboko maremare, y'ibara ry'ubururu, afite telefone mu ntoki, afite ibyo arimo kumwereka.

Abantu babiri barimo umukecuru wicaye mu kagare kagenewe abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, karimo ibara ry'umukara, Yambaye umwenda w'umupira w'amako maremare uri mu ibara rya kake, yarengejeho uwundi inyuma, uciye amaboko w'ibara ry'ivu ndetse yambaye ijipo ndende y'ibara ry'ubururu. Iruhande rwe hari umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, yambaye umwenda wera, yamufashe ku kuboko, ashinzwe kwita ku bantu bakuze, barimo kuganira.

Abantu babiri harimo umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare, mu ibara ry'ikigina ndetse n'undi mugore umuri iruhande, wambaye umupira w'amako maremare mu ibara ry'ivu yambaye n'agapfukamunwa, afashe umusaza mu mugongo bigaragara ko arimo kumusindagiza mu buryo bwo kumufasha, bari imbere y'inzu isize irangi ry'umweru.

Abagabo babiri umwe ni umusaza yicaye ku ntebe y'ibara ry'umweru yambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'ikigina ndetse ari kumwe n'undi iruhande rwe w'umuganga wambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru, mu ijosi afitemo agakoresho kagenewe gupima uko umutima uhagaze, imbere yabo hari ameza y'ibara ry'umweru hateretseho ibitabo barimo kurebamo baganira.

Abantu babiri, umugabo uhagaze yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, arambuye ukuboko, intoki ze zifashe agakoresho bakoresha imyitozo ngororangingo kari mu ibara ry'ubururu, ari inyuma yahagaze, umugore ugaragara nk'umuganga, wambaye agakoresho mu ijosi, bifashisha basuzuma, ufite umusatsi muremure, yambaye umwenda w'umweru, afashe ku rutugu rw'umugabo, n'ukuboko kwe, asa naho arimo kumwerekera.

Imeza itetseho ibitabo bitandukanye ndetse ku ruhande hari ikirahure imbere yayo hicaye umugabo ubona ko akuzemo afite imisatsi y'umukara ivanzemo umwe n'ubwanwa bw'umweru yambaye ishati iri mu ibara ry'ikigina hasi umukara, ukuboko kwe n'ikiganza yabishyize mu gahanga ke yunamishije umutwe, bigaragara ko yari arimo gusoma ibitabo.

Icyumba kinini cyaguye cyubakiyemo utwuma turiw ibara rya kaki nivu, harimo ibikoresho by'ibara ry'umweru, ubururu, orange ndetse n'umutuku, hari abantu babiri bahagazemo, uwumusaza wambaye umupira w'uburu n'ikabutura y'umukara ndetse n'umugore wambaye imyenda yumukara ushinzwe kwita ku bantu bakuze, amufashe ku kuboko no kurutugu, bigaragara ko arimo kumufasha muburyo bumwe cyangwa ubundi.

Umuntu w'umusaza uhagaze bigaragaragara ko arimo akora imyitozo ngororangingo, yambaye imyenda hejuru umweru hasi umukara, afite imisatsi y'umweru, ubwanwa bw'umweru, yambaye amadarubindi, ku matwi yambaye udukoresho twagenewe kwifashishwa mu kumva amajwi, amaboko ye iburyo n'ibumoso afashe udukoresho twagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo tw'ibara ry'umutuku, inyuma ye hari ibiti by'ibara ry'icyatsi, hejuru hari ibicu mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Ikivange cy'abantu benshi bahagaze mu gisharagati, bambaye imyenda y'ibitenge ndetse n'iyindi, ku murongo w'abantu bahagaze imbere hari intebe zizengurutsweho n'imyenda y'umweru, harimo umukecuru wambaye umupira w'ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'umwitero w'ibara ry'umweru, yambaye umurimbo wo mu ijosi w'ibara ry'umukara n'umweru ndetse n'umusaza wambaye ingofero n'umwitero n'ishati ya karakaro yiganjemo umweru n'umukara.

Abasaza barindwi bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse n'ingofero ku mitwe yabo, harimo uwambaye amadarubindi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'ikigina, imbere y'inzu bafite inkoni z'ibara ry'umukara imbere yabo.

Agatsiko k'abantu benshi harimo abagabo n'abagore bicaye munsi y'igiti, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bagaragara ko bari mu nama, bamwe bicaye ku ntebe z'ibara ry'umweru, abandi ibara ry'ubururu, abandi bicaye ku ntebe z'imbaho, zitambitse.

Abantu batatu, umwe yambaye umupira w'iroze, undi yambaye umupira w'amaboko maremare, wo mu ibara ry'ivu w'imbeho, undi w'imbere w'umukara; undi yambaye umupira w'amaboko maremare wo mu ibara ry'ivu n'umweru, imeza hagati yabo barimo gukina amakarita, ndetse bari mu nzu y'ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bagaragara ko bakuze, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu bwijimye, umwe wo hirya afite umupira w'ibara ry'umukara yawambaye ku rutugu, barasa nk'aho barimo gutambuka bari mu myitozo ngororangingo, bafite amacupa y'amazi mu ntoki, barimo baraseka bagaragara ko bishimye, inyuma yabo hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore wirabura ufite imisatsi y'umweru yambaye akenda gaciye amaboko mu ibara ry'umweru na move, yambaye umurimbo wo mu ijosi n'imiririmbo ku matwi, ari mu nzu ifite ibara ry'umweru ari mu myitozo ngorora ngingo, aryamye ku gakoresho bifashisha bakora imyitozo ngorora ngingo ari mu cyerekezo kireba hasi ibindi bice bigize umubiri ntabwo bikora hasi, usibye inkokora n'amaboko byo nyine nibyo bishinze hasi.

Abantu batatu harimo umusaza uhagaze yunamye afite imisatsi yuumweru yambaye umupira wubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara, ndetse ahagaze imbere y'igitanda gishashe amashuka ibara ry'umweru, hakaba hari abandi babiri bamuri impande umugabo ndetse n'umugore bamufashe amaboko bameze nk'abarimo kumusindagiza muburyo bwo kumufasha.

Abagore babiri umwe afite umusatsi mugufi w'umweru, yambaye imirimbo ku matwi y'ibara ry'umweru; aramburiye ku mpande amaboko ye, yambaye umupira wijimye w'ibara ry'ikigina, uwundi amuhagaze imbere ubona ko ari muto, afite umusatsi w'umukara muremure, yambaye umupira w'ibara ryijimye rya move, amufashe ku kuboko kwe kw'iburyo, amurimo kumufasha, gukora imyitozo ngororangingo.

Umugore ushinzwe kwita ku bantu bakuze, akaba ari n'umuganga, yambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'ubururu, ndetse mu ijosi yambayemo agakoresho kagenewe gupima uko umutima utera, afite agakoresho mu ntoki k'ibara ry'umukara n'ivu, yagashyize ku kuboko k'umusaza bari kumwe arimo kumusuzuma, bicaye mu ntebe y'ibara ry'ivu, ndetse bari mu nzu y'ibara ry'umweru.

Abantu babiri, umwe ni umugabo ugaragara ko akuze, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ibara ry'ivu n'agapfukamunwa, yicaye mu ntebe ya kake, imbere ye hari umukobwa bigaragara ko arimo kumwitaho ukora akazi k'abagenewe kwita ku bantu bakuze bafite ibibazo by'uburwayi, na we yambaye agapfukamunwa ndetse n'imisatsi y'umukara, inyuma yabo hari ibiti by'ibara ry'icyatsi ndetse n'inzu n'igipangu.

Abantu babiri, umugabo umwe yambaye umwenda muremure ugera mu mavi uri mu ibara ry'ivu, ugaragara nk'ushyushya mu gihe cy'ubukonje, imbere harimo umwenda wa kacyi, yambaye ipantaro y'umutuku, inkweto z'umukara, bafashe kandi arimo kugendera ku gakoresho kagenewe, gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutagenda neza. Iruhande rwe hari umugore w'umuzungu, wambaye ipantaro y'ubururu n'umwenda w'umweru hejuru, ugaragara ko ari umuganga, arimo kumufasha kugenda.

Icyumba hamanitsemo imyenda miremire y'ibara ry'umweru, intebe zifite imisego y'ibara ry'umweru, hakaba harimo abantu babiri, umusaza wicaye mu kagare kagenewe kwifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda kari mu ibara ry'umukara n'ivu, iruhande rwe hahagaze umugore w'umuganga ushinzwe kwita ku bantu bakuze, yambaye imyenda y'ibara ry'ubururu y'akazi, arimo kumureba mu maso amusekera.

Abantu babibiri umusaza wicaye wambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare uri mu ibara ry'umweru afite ikanya mu noki arimo kurya. Imbereye hahagaze umugore w'umuganga wambaye umupira w'amaboko maremare mu ibara ry'umweru inyuma yawo yarengejeho uwundi w'akazi uri mu ibara ryivu afite icupa mu ntoki ndetse n'ikirahure arimo gusukamo icyo kunywa gikozwe mu mbuto. Imbere yebo kumeza hateretse imbuto zimwe zikase izindi zidakase zose n'utubakure tw'ibara ry'ubururu.

Abagore batandatu bambaye imyambaro yiganjemo ibitenge n'imirimbo yo mu ijosi n'imirimbo yo ku matwi, bari ahantu mu isoko, imbere yabo hateretse ibikarito birimo inyanya nyinshi, ndetse inyuma yabo hari imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo amacunga, ndetse n'indimu n'izindi.

Abantu babiri barimo umukecuru n'umusaza bose bafite imisatsi y'umweru, umusaza yambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'umutuku, umukecuru yambaye umupira w'ibara ry'umutuku, imbere yabo hateretse imeza yakozwe mu rubaho ndetse hateretseho ikirahure kirimo amazi n'uducupa turimo imiti, biragaragara ko umukecuru arimo kwerekera umusaza uko agomba gufata imiti.

Abantu babiri harimo umusaza wicaye yambaye umupira urimo imirongo iy'ubururu ndetse n'iy'umweru. Afite umusatsi w'umukara havanzemo n'uwumweru, arimo guseka. Imbere ye hateretse imeza iriho urubaho ruriho udukoresho bakinisha umukino witwa dame ndetse ukuboko kwe yakurambuye agufatishije kuri utwokoresho arimo gukina.

Umukecuru w'imyitozo ngororangingo yambaye umupira w'amaboko maremare uri mu ibara ry'ivu ndetse n'iry'icunga mw'imbere yambaye umwenda w'ibara ry'umweru afite umusatsi w'umweru n'umukara arimo guseka abona ko yishimye agoroye amaboko ye imbere mu biganza bye afashe udukoresho twagenewe gukora imyitozo ngororangingo turi mu ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Abantu babiri, umusaza wambaye imyenda iri mu ibara ry'ivu, yambaye amadarubindi afite imisatsi y'umweru n'ubwanwa bw'umweru yicaye mu kagare kagenewe abafite ubumuga bwo kutagenda kari mu ibara ry'ubururu n'umukara, inyuma ye hari umukobwa ugaragara nk'urimo kumucunga mu kagare, yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, bombi uko ari babiri baraseka baranezerewe, inyuma yabo hari amazu, ibiti, kaburimbo ndetse n'ibyatsi.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse harimo abambaye amadarubindi, imbere yabo hakaba hateretse utugare ndetse n'imbago byagenewe kwifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda, inyuma yabo hari igiti kirekire ndetse hakaba hari n'inzu iriho ibitambaro by'ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri barimo umugabo w'umusaza, wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'amaboko maremare mu ibara ry'ubururu, ari kumwe n'undi w'umugore w'umuzungu, wambaye umwenda w'umupira w'amoko maremare uri mu ibara ry'umuhira, n'undi mo imbere w'ibara ry'ubururu, ufite imisatsi miremire; afashe ukuboko uyu mugabo, bigaragara ko arimo kumusindagiza cyangwa se kumufasha gutambuka, bombi baraseka bigaragara ko bishimye.

Abantu babiri, umwe ni umugabo ukuze wicaye mu ntebe, afite ubwanwa bw'umweru, yambaye imyenda hejuru umweru, hasi ibara ry'ivu, afite inkoni mu ntoki y'urubaho mu ibara ry'ikigina, yambaye umurimbo w'urutoki ndetse iruhande rwe hari umukobwa ukora akazi k'abagenewe kwita ku bakuze, yambaye imyenda y'akazi mu ibara ry'ubururu n'akarangantego ku mufuka wayo n'umwenda w'umweru w'amoboko maremare mo imbere. Barimo baraseka baganira.

Abantu barindwi barimo abagore babiri b'abazungu n'umugabo umwe w'umuzungu ndetse n'abagabo bane b'abirabura, barahagaze, bambaye imyenda y'amabara atandukanye n'udukoresho mu ijosi tugaragaza akazi bakora turi mu ibara ry'icunga ndetse n'umweru, barimo kwifotoza.

Icyumba kinini cyaguye kirimo abantu benshi, abahagaze ndetse n'abandi bicaye, hari ameza y'ibara rya kaki, imbere yayo hicaye umugore wambaye umupira w'ibara ry'umukara ndetse n'undi umuri imbere, wambaye umwenda w'umweru n'utukura, arimo kumuvura.

Agatsiko k'abantu benshi barimo bagenda mu muhanda bambaye imyenda yiganjemo imipira y'ibara ry'umweru, bamwe muri bo bambaye ingofero, abandi bambaye amadarubindi, bateruye mu ntoki zabo ibirangantego byo mu ibara ry'iroze n'umweru byanditseho kwirinda kanseri y'ibere, inyuma yabo bakikijwe n'ibiti by'ibara ry'icyatsi ndetse n'amazu.

Abagabo babiri barahagaze, umwe arareba imbere undi arareba ku ruhande, barimo gusuhuzanya bahuje ibiganza, bafite ibitabo by'ibara ry'umweru mu ntoki zabo, umwe yambaye amadarubindi, baraseka bamwenyura, bambaye imyenda y'ubururu ndetse imbere bambaye amashati y'ibara ry'umweru n'amakaruvati.

Abantu bane barimo abagabo babiri n'abakobwa babiri, bambaye imipira mu ibara ry'umweru bigaragara ko ari kazi, umukobwa umwe yambaye amadarubindi, bose bafite udukingirizo mu ntoki bigaragara ko barimo kutwamamaza.

Abantu babiri barimo umugore umwe wirabura yambaye agakanzu kagufi ndetse n'inkweto ndende zibara ry'umukara, ari kumwe n'undi mugabo wumuzungu wambaye imyenda y'umukara, hejuru no hasi imwebere yambaye ishati y'ibara ry'umweru n'inkweto z'umukara n'umukandara wumukara, bambaye udukoresho mu ijosi tugaragaza akazi bakora mu ibara ry'ubururu n'umweru barimo kwifotoza.

Icyumba kirimo abagore ndetse n'abagabo baricaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abaganga bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukantoki n'udukoresho mu ijosi turanga akazi bakora, hari abarwayi baje kwivuza barimo kubavura.

Abantu harimo umugabo umwe wicaye yambaye ishati y'amaboko maremare y'ibara ry'umweru n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara ndetse n'abana batoya b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri harimo n'undi wambaye imyambaro isanzwe hakaba hari n'umugore ubicaye iruhande. Bicaye ku ntebe y'urubaho itambitse barimo kuganira.

Umukecuru wirabura ku mutwe we ateze igitambaro cy'ibara ritukura ndetse havanzemo n'utundi tubara tw'umweru, ku jisho rye hapfutseho igipfuko cy'ibara ry'umweru arimo guseka.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, kirimo abantu babiri bahagaze b'abaganga, bambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'ubururu bwerurutse, ndetse bambaye n'udupfukamunwa tw'ibara ry'ubururu bwerurutse, bambaye udupfukantoki tw'ibara ry'umweru, umwe afite igikoresho cy'akazi mu ntoki ze cy'ibara ry'umukara.

Imbaga y'abantu batandatu bahagaze hamwe bagaragara ko ari abaganga bambaye imyenda iri mu iba ry'umweru n'utubara tw'umukara ipfutse mu mutwe bambaye udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu n'udupfukantokiti turi mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda iri mu ibara rya move n'agapfukamunwa.

Ikivunge cy'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abambaye amadarubindi bakandagiye ku mwenda wabugenewe gukandagirwaho uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, imbere yabo hateretse ameza hariho ibitambaro by'ibara ry'umweru bari mu gikorwa cyo kwifotoza.

Abantu bane barahagaze, harimo umugabo umwe ndetse n'abandi batatu b'igitsina gore b'ababikira mu yandi magambo bakunze kuvuga ngo ni abihayimana, bambaye imyenda y'ubururu bwerurutse ndetse n'iyindi y'umweru barengeje inyuma, bateze udutambaro tw'ibara ry'umweru, bambaye amadarubindi, umubikira umwe ndetse n'umugabo bahuje ibiganza barimo gusuhuzanya.

Abantu barimo abana bato bicaye n'abandi bantu bakuru bahagaze, bambaye imyenda yiganjemo imipira y'ibara ry'iroze ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bambaye udupfukamunwa tw'ibara ry'ubururu, imbere yabo hateretse ameza ariho igitambaro k'ibara ry'umweru n'uducupa tw'ibara ry'ubururu, bafite ibikapu mu ntoki birimo ibara ry'umweru.

Ikigo cyubatswemo amazu arenze imwe yagenewe kuvurirwamo abarwayi, yubakishijwe amatafari ndetse asakajwe amabati y'ibara ry'ubururu, asize irangi ry'umweru, hakurya hari umuhanda wa kaburimbo harimo abantu barimo kugenda.

Inyubako nini yagenewe kuvurirwamo abarwayi, yubatswe mu buryo bugerekeranye, yubakishije amatafari y'ibara ry'ikigina ndetse iseze irangi ry'ibara ry'umweru, ifite amadirishya n'inzugi zikozwe mu kirahure, ifite igipangu gikozwe mu byuma by'ibara ry'icyatsi ndetse n'amatafari, hanze hateye indabo, haparitse n'imodoka.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi gisize irangi ry'umweru, hateretsemo ibitanda bisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, bishasheho udushuka turi mu ibara ry'icyatsi, hagati y'igitanda n'ikindi hateretse imashini yagenewe gufasha abaganga mu kuvura ,ndetse hamanitsemo n'amarido y'ibara ry'ubururu bwerurutse.

Amazu yagenewe kuvurirwamo. Yubatse mu buryo bugerekeranye inshuro ebyiri. Asize irangi ry'umweru. Afite inzugi ziri mu ibara ry'umukara, amabati y'umutuku, imbere hariho ibara ry'umukara. Imbere y'ayo mazu handitseho amagambo, ari mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, gisize irangi ry'ibara ry'umweru mo imbere hakaba harimo ibikoresho byagenewe kwifashishwa mu kuvura by'amabara atandukanye, harimo iby'ibara ry'umweru ndetse hakabamo n'ibifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe gucururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye n'imbere harimo itara ricanye ndetse ifite urugi rw'ibara ry'ivu, hakaba harimo utubati duteretsemo imiti dukozwe mu cyuma mu ibara ry'ivu.

Icyumba kinini cyane cyaguye cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hamanitsemo imyenda miremire ari mu ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu kuvura.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi gisize irangi ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo igitanda gikozwe mu cyuma ibara ry'ivu, hashashweho amashuka y'ibara ry'umweru ndetse n'imisego y'umweru, harambitseho serumu ndetse n'inshinge.

Amazu manini arenze imwe yubatswe mu buryo bugerekeranye, yagenewe kuvurirwamo abarwayi asize irangi ry'umweru n'iry'ivu, asakajwe amabati y'ibara ry'umutuku n'iry'ikigina, hanze hari abantu barimo kugenda hakaba hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, hakaba hashinze idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu yagenewe kwakirirwamo abagore batwite mu gihe cyo kubyara, yubatswe mu matafari y'ibara ry'ikigina na kaki, isize irangi ry'umuhira ndetse n'irangi ry'umweru. Ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu kirahure, imbere yayo hateretse intebe zitambitse zikozwe mu rubaho ndetse hari abantu barimo gutambuka.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, gisize irangi ry'umweru gifite amadirishya akozwe mu birahure, mo imbere hateretsemo intebe ziri mu ibara ry'ivu, ndetse n'izindi ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse n'izindi z'umukara, hakaba hateretsemo imeza iri mu ibara rya kaki ndetse n'umukara.

Inyubako nini yagenewe kuvurirwamo abarwayi, isize irangi ry'ibara ry'umweru, ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu kirahure, imbere yayo hari umwana muto wicaye mu kagare kagenewe gufasha abafite ubumuga bwo kutagenda, iruhande rwayo hari umuntu urimo gutambuka wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo, inyuma yayo hari ikigega cyagenewe gushyirwamo amazi kiri mu ibara ry'umukara, ikikijwe n'indabo ndetse n'ibyatsi.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi kigizwe n'amabara ari yo ibara ry'umweru n'iry'ubururu bwerurutse ndetse harimo ibitanda by'abarwayi bigizwe n'ibara ry'umweru n'iry'ubururu, hasasheho amashuka y'ibara ry'umweru, hamanitsemo amarido y'ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse harimo umuganga w'igitsina gore usa nk'urimo kugenda areba imbere, arimo gutambuka ateye umugongo.

Inyubako nini yagenewe kwigishirizwamo amasomo ya kaminuza y'u Rwanda, isize irangi ry'ibara ry'umweru, ikikijwe n'ibiti byinshi, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ifite igipangu cyubatswe mu matafari, ndetse hanze hakaba hari abantu b'abagabo babiri barimo gutambuka.

inzu yagenewe kwakirirwamo abagore batwite kugira ngo bafashwe kubyara, yubakishijwe n'amatafari ari mu ibara rya kacye n'andi ari mu ibara ry'ikigina, isakajwe n'amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse isizwe irangi ry'ibara ry'umweru, ifite amadirishya akozwe mu birahure asizwe irange ry'umweru ndetse n'imbere hayo hateye indabo n'ibyatsi.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo gisize irangi ry'ibara ry'umweru, harimo igitanda cy'ibara ry'umweru ndetse hashasheho amashuka y'ibara ry'umweru, haryamyeho umurwayi imbere ye hahagaze umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse afite imisatsi miremire y'umukara, afashe ku murwayi arimo kumufasha mu buryo bwo kumuvura.

Ikigo cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, kirimo amazu yagenewe kuvurirwamo abarwayi ndetse n'ibiti byinshi n'ibyatsi, hakaba harimo abantu bahagaze benshi, barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse bamwe muri bo bambaye amadarubindi barimo kwifotoza.

Inzu yagenewe gucururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye, isize irange ry'ivu ndetse n'iry'umuhira, ifite amadirishya n'inzugi bikozwe mu kirahure, hejuru hariho ikirangantego, cyanditseho icyerekezo cy'aho iyo nzu iri ndetse n'igikorerwa muri iyo nzu.

Inyubako nini ifite amazu arenze imwe ikaba yaragenewe kuvurirwamo abarwayi, isize irangi ry'umweru ndetse n'irindi rangi ry'ivu, ifite igipangu cyubakishijwe n'amabuye ndetse hejuru hariho ibyuma biri mu ibara ry'ivu, hanze hakaba hahagaze abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse hanze hakaba hateye ibiti n'ibyatsi.

Inyubako nini yagenewe kuvurirwamo ikiremwa muntu ndetse n'inyamaswa ikaba iri mu ibara ry'ivu ndetse n'andi mabara iry'umweru n'irindi bara ry'ibihogo, ikaba ifite amadirishya akozwe mu birahure, hasi hateye ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Ikigo kinini cyubatswemo amazu arenze imwe, yagenewe kuvurirwamo abarwayi, yubatswe mu matafari y'ibara ry'ikigina ndetse na kaki, akaba asizeho irangi ry'ibara ry'umweru, asakajwe n'amabati y'icyatsi ndetse n'ayandi y'ubururu bwerurutse, hanze hateye ibyatsi byinshi ndetse n'indabo n'ibiti byinshi.

Inyubako zirenze imwe zagenewe kuvurirwamo abantu, zisize irangi ry'ibara ry'umweru, zisakajwe amabati y'ibara ry'umutuku, zifite inzugi ziri mu ibara ry'umukara, zifite amadirishya y'ibirahure, zikikijwe n'ubusitani burimo indabo, ibyatsi n'insina biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako ndende nziza yagenewe kuvurirwamo abarwayi isize irangi ry'ibara ry'umuhondo ndetse n'irangi ry'ibara ry'ivu yanditseho amagambo Rwamagana hospital mu ibara ry'icyatsi rifite amadirishya y'ibirahure asize irangi ry'umweru imbere yayo hahagaze abantu benshi harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse hari insina n'indabyo.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugerekeranye, isize irangi ry'ivu n'iry'umweru, ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu kirahure bisize irangi ry'icyatsi kibisi, ikaba ifite inzu imwe yagenewe gucururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye, hakabamo imbere harimo utubati dukozwe mu birahure, duteretsemo imiti ivura indwara zitandukanye, hanze haparitse imodoka iri mu ibara ry'ivu.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo gisize irangi ry'ibara ry'umweru, harimo abantu babiri umugore umwe wicaye akikiye akana gato cyane k'agahinja kambaye imyenda y'ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari n'undi mugore w'umuganga ubahagaze imbere yunamye afashe mu dutoki tw'agahinja, yambaye umwenda w'akazi ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa n'agapfukamusatsi yambaye n'amadarubindi.

Icyumba kinini cyane cyaguye, cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo, gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru ndetse no hejuru hasize irangi ry'ibara ry'umweru, harimo n'amatara, hasi harasa umukara, harimo igikoresho cyagenewe gutanga ubukonje mu gihe cy'ubushyuhe, ndetse harimo n'ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo by'ibara ry'umukara n'ibara ry'icunga.

Ikigo kinini cyubatswemo amazu arenze imwe yagenewe kuvurirwamo abarwayi, asize irangi ry'umweru. Mo imbere hateyemo igiti kirekire ndetse n'indabo nyinshi ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Hakaba hari akayira kanyura hagati y'amazu kubatswe mu buryo bwa kaburimbo mu ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyane cyagenewe kuvurirwamo abarwayi gisize irangi ry'umweru, harimo abantu mo imbere b'abaganga, hamanitsemo imyenda miremire y'ibara rya kaki, harimo ibitanda birenze kimwe byagenewe kuryamishwaho abarwayi, ndetse harimo n'intebe hakaba harimo n'ibikoresho bindi byinshi bitandukanye, byagenewe kwifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inzu nini cyane yagenewe kuvurirwamo abarwayi, yubatswe mu buryo bugerekeranye, yubakijwe n'amatafari ari mu ibara rya kaki, isakajwe n'amabati ari mu ibara rya kaki, yubakishijwe ibyuma biri mu ibara ry'ivu n'iry'umukara, ndetse bifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu birahure, hasizeho irangi ry'umukara, imbere yayo hanze ikaba ikikijwe n'indabo ndetse n'ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu yagenewe kwakirwamo abagore batwite mu gihe cyabo cyo kubyara isize irangi ry'umweru ndetse n'irindi rangi ry'icunga, hejuru yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ifite amadirishya akozwe mu birahure asize irangi ry'umweru ndetse imbere yayo hahagaze abagore bane b'abaganga bambaye imyenda y'akazi iriw ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'udupfukamunwa n'udukoresho mu ijosi turanga akazi bakora.

Inzu yagenewe kuvurirwamo abarwayi, isize irange ry'umweru ndetse n'iry'ivu, yubatswe mu buryo bugerekeranye, ifite igipangu cyubakishijwe n'ibyuma bifite ibara ry'ivu, imbere yayo hari kaburimbo ndetse impande zayo ikikijwe n'ibyatsi n'ibiti.

Ikigo cyubatswemo amazu arenze imwe, yagenewe kuvurirwamo abarwayi. Asize irangi ry'ubuhira ndetse asakajwe n'amabati y'ibara ry'umutuku. Afite inzugi n'amadirishya bikozwe mu kirahure, biriho irangi ry'umweru. Hanze haparitse amamodoka arenze imwe ndetse hari n'abantu barimo gutambuka.

Abantu batanu barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bahagaze imbere y'inyubako yagenewe kuvurirwamo indwara zitandukanye, yubatswe mu matafari afite ibara rya kake ndetse isize irangi ry'umweru, bambaye imyenda y'amabara atandukanye barimo kwifotoza.

Inzu yagenewe kuvurirwamo abarwayi isize irangi ry'umweru, ndetse imbere hayo hanze hari inkingi zisize irangi ry'umukara, hejuru yayo hakaba handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu birahure, imbere yayo ku nkingi hari umugore wegamyeho.

Icyumba cyegenewe kuvurirwamo abarwayi kigizwe n'amabara iry'umweru, iry'icyatsi ndetse n'iry'ubururu kirimo ibitanda bigizwe n'ibara ry'ivu ndetse n'iry'icyatsi hashashweho amashuka y'ibara ry'umweru rifite inzugi zisa ibara rya kaki n'amadirishya y'ibirahure hasi hasize irangi ry'ibara ry'ivu.

Inzu ndende yagenewe gucururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye, isize irangi ry'umweru ndetse ifite inzugi n'amadirishya bikozwe mu birahure bisizeho irangi ry'ubururu, hanze hahagaze umuntu ndetse hakaba hari n'uwundi wicaye kuri moto.

Icyumba kinini cyaguye, gisize irangi ry'umweru ndetse n'iry'icyatsi kibisi, mo imbere harimo abantu benshi bicaye, harimo abagabo bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo, ndetse n'amapantaro y'umukara, hakaba harimo n'abandi bagore bakenyeye ibitenge, ndetse bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umweru.

Icyumba kivurirwamo abarwayi gitwikirijwe n'imyenda y'ibara ry'umweru, harimo ibitanda by'ibara ry'ivu bifite imifariso y'ibara ry'ubururu, harimo abantu bambaye udupfukamunwa, barimo abarwayi baryamye ku bitanda ndetse n'abaganga babahagaze iruhande barimo kubavura.

Inyubako nini yagenewe kuvurirwamo abarwayi, yubakishijwe amatafari y'ibara ry'ikigina, risize irangi ry'umweru rifite inzugi n'amadirishya by'ikirahure, imbere yayo hateye indabo zirimo ibara ry'icyatsi ndetse imbere yayo hari kaburimbo iri mu ibara ry'umukara habanzaho ibara ry'umweru.

Inyubako yagenewe kuvurirwamo abarwayi, nini, isize irangi ry'umweru, imbere hayo hasizeho irangi ry'ubururu bwijimye, ndetse handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere hayo hari urupangu rwubatswe mu matafari, ari mu ibara ry'kijyina, ndetse hagati hateye igiti kikiri gito, kitarakura cyane.

Inzu nini yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo, isize irangi ry'umweru, imbere hayo hubatse ibyuma birebire bimanuye biri mu ibara ry'ivu, ndetse asizeho irangi ry'ubururu, hakaba hanze hateretse ibikoresho byagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, nk'ibara ry'umukara, hakaba hari n'amagare yagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Icyumba kivurirwamo abarwayi gisize irangi ry'ubururu bwerurutse, harimo amadirishya akozwe mu birahure, hejuru hamanitsemo itara, hubakiyemo inkingi ziriho imbaho ziri mu ibara ry'ikigina, harimo ibitanda ndetse haryamyeho umurwayi, imbere yacyo hari umuganga ufashe ku nzitiramubu iri mu ibara ry'ubururu ufashe.

Inzu yagenewe gushyirwamo abagore batwite kugira ngo bitabweho mu gihe cyo kubyara, yubakishijwe n'amatafari ari mu ibara ry'ikigina ndetse na kake isizwe irange ry'ibara ry'umweru, ndetse ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, rifite amadirishya akozwe mu birahure, mbere yayo hateretse indabo ndetse hari amabuye n'ibyatsi.

Abantu babiri bari mu cyumba cyagenewe kuvurirwamo, umugabo umwe aryamye ku gatanda k'ibara ry'ubururu, yambaye umweru hejuru, umukara hasi, ingofero y'umukara, agapfukamunwa k'umukara, iruhande rwe hari umugore uhagaze yunamye, yambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru, afite imisatsi y'umukara, ni umuganga ubona ko arimo kumukorera igikorwa cy'ubuvuzi.

Ibyuma byagenewe kwicungwaho n'abantu buryo bwo gutanga umunyenga cyane cyane abana bato. Bibiri bisize irangi ry'ibara ry'ubururu, ndetse ikindi kimwe gisize irangi ry'ibara ry'icyatsi cyerurutse. Bikikijwe n'igipangu cyubatswe mu matafari y'ibara ry'ikigina na kaki, ndetse n'ibyuma biri mu ibara ry'ivu. Hasizeho irangi ry'umweru, hasi hateye ibyatsi byinshi ndetse n'indabo.

Inzu nini ndende yubatswe mu buryo bugerekeranye yagenewe gucururizwamo imiti ivura indwara y'ubwoko butandukanye. Isize irangi ry'umweru n'iry'ivu. Ifite inzugi n'amadirishya hariho ibirahure, zisize irangi ry'icyatsi kibisi. Mu imbere hateretsemo utubati tw'ibirahure, hateretsemo imiti. Imbere yayo haparitse imodoka iri mu ibara ry'ivu.

Inzu yagenewe kuvurirwamo abarwayi, isizwe irangi ry'umweru ndetse isakajwe n'amabati y'ibara ry'ubururu, imbere yayo isizwe irangi ry'umuhondo, hejuru hari abantu bahagaze abandi baricaye ndetse igice cyo hasi hari abantu bahagaze, imbere yayo hateye ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

inyubako nini yagenewe kuvurirwamo abarwayi yubatse mu buryo bugerekeranye ikaba isize irangi ry'buhira n'iry'umweru ifite amadirishya y'ibirahure hejuru hariho ibigega byagenewe kubikwamo amazi abiriw'i ibara ry'umukara hanze hasi haparitse amamodoka akaba n'indi modoka imwe irimo gusohoka mu gipangu yashyize mu muhanda hanze ku rupangu hakaba hari umuntu wicaye mu ntebe wambaye umupira w'ibara ry'ubururu.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, kikaha hasizemo irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo ibikoresho byinshi by'ibara ry'umweru byagenewe kwifashishwa mu kuvura, hakaba harimo n'intebe ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'izindi ziri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi gisize irangi ry'ibara ry'umweru, amadirishya y'ibirahure, kirimo amatara hejuru amanitse n'ibara ry'umweru, ndetse harimo ibitanda biri mu ibara ry'ivu riryamyeho abarwayi hamwe n'abandi bicaye, hamanitsemo inzitiramibu zo mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyagenewe kubikwamo ibikoresho byunganira mu kuvura, gisize irange ry'ibara ry'umurira hari abantu bahagazemo b'abaganga bambaye imyenda y'akazi ibara ry'umweru, bambaye udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki, bambaye udutambaro mu mutwe imbere yabo hateretse ibyuma byagenewe kunganira kuvura, ndetse n'amacupa yagenewe kubikwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Inyubako nini zirenze imwe zagenewe kuvurirwamo abarwayi, zifite amabara iry'icunga ndetse n'iry'ivu, hari umuhanda unyura hagati yazo ufite ibara ry'ivu ndetse zikikijwe n'ibyatsi.

Abantu b'igitsina gore b'abaganga batatu barahagaze barimo kumwenyura, bambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'ubururu bwijimye ndetse bateze mu mitwe yabo udutambaro twibara ry'umweru, hakurya yabo inyuma hari ibiti ndetse n'ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Inyubako yagenewe kuvurirwamo abarwayi, ikaba yubakishijwe amatafari y'ibara ry'ikigina na kacyi, isize irangi ry'umweru, isakajwe amabati y'ibara ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu benshi, barimo abagabo ndetse n'abandi b'abagore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse bambaye udupfukamunwa.

Inyubako zirenze imwe zagenewe kuvurirwamo abarwayi zubatse mu buryo bugerekeranye. Zubakishijwe amatafari y'ibara ry'ikigina, zisizwe irange risa umweru, zifite amadirishya y'ibirahure ari mu ibara ry'icyatsi. Hanze hari abantu barimo gutambuka bari mu bikorwa bitandukanye.

Inzu nini zirenze imwe zagenewe kwakirwamo abagore batwite bagafashwa kubyara, zisize irangi ry'umuyira ndetse n'icyatsi zifite amadirishya akozwe mu birahure, hanze hateye ibyatsi hakaba hahagaze umuntu w'umugabo w'umuganga, yambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru ndetse n'agafukamunwa.

Inzu nini cyane yagenewe kuvurirwamo abarwayi, ikaba isize irangi ry'umweru n'ubururu ndetse ifite inzugi ziri mu ibara ry'ikigina, hejuru ifite amatara ndetse hasi hari amabara y'ivu n'ikigina.

Inkuta ebyiri zubatswe mu mabuye zigerekeranye imwe yo hejuru ikaba yicaweho n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari igiti kinini cyane kirekire gifite amashami ariho amababi menshi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

N'inyubako nini igizwe n'amazi menshi agiye ari ku murongo agerekeranye arimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru rijya gusa ibihogo asakajwe n'amategura y'umutuku ku gice cyo hejuru hahagaze abantu 2 hasi hari ibyatsi hashizezemodarapo imbere yaryo haparitse imodoka y'ibara ry'umutuku ndetse na moto.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, gisize irangi ry'umweru kikaba gifite amadirishya akozwe mu birahure, harimo abantu benshi b'abaganga harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe barahagaze abandi baricaye bari mu kazi, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura.

Amazu arenze imwe yagene kuvurwamo abarwayi yubatswe mu buryo bugerekeranye asize irangi ry'umukara ndetse afite inzugi n'amadirishya bisize mu irangi ry'umweru rikozwe mu birahuri, hanze ahagaze abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse haparitse n'imodoka ebyiri z'umweru n'indi imwe iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyagenewe gucururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye, isizwe irangi ry'ibara ry'umweru, hamanitsemo amatara hejuru, harimo utubati dukozwe mu birahure, imbere hariho ibara ry'umweru ndetse n'iry'icyatsi kibisi, handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yatwo hari intebe ya purasitike iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini cyane cyaguye, cyagenewe kuvurirwamo abarwayi gisize irangi ry'umweru, mo imbere hakaba harimo ibitanda byenda kumera nk'intebe biri mu mabara ay'ikigina ndetse n'ivu. Hakaba hariho n'udusego tw'ibara ry'umukara, imbere yabyo hateretse udutebe turi mu ibara ry'ikigina, hakaba harimo n'utubati turi mu ibara rya kaki, hakaba hateretsemo udukoresho twagenewe kumenwamo imyanda turi mu ibara ry'umukara.

Amaboko abiri y'umuntu agaragaza ibiganza n'intoki gusa, ikiganza kimwe kirubitse ikindi kirubukuye, byambaye udupfukantoki turi mu ibara ry'umukara, udupfukantoki ibikumwe byatwo biruzuye ariko ku zindi ntoki ntabwo byuzuye biciyemo kabiri.

Umugabo wirabura yambaye imyenda y'umukara, ari mu imyitozo ngororangingo, ari mu cyerekezo kireba imbere, ukuguru kwe ku iburyo yagushingishije ivi, uk'ibumoso yagukandagije, ukuboko kwe ku iburyo gukoze ku itako ry'iburyo, akandagiye ku gakoresho bifashisha bakora imyitozo ngororangingo, ari mu nzu y'ibara ry'umweru, ibihogo na kake, inyuma ye hateretse ikintu kiri mu ibara ry'umukara.

Inzu igaragara nk'iyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo irimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororangingo ifite amabara atandukanye mbere yabyo hahagaze abantu.

Icyumba gisize irangi ry'umweru gifite urugi rw'ibara ry'ikigina, harimo abantu batanu, harimo umugore umwe wicaye ukikiye umwana mutoya ndetse n'undi muganga wambaye imyenda y'akazi yera, yicaye ku ntebe y'ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza y'ibara ry'ikigina, umuganga afashe umwana mu mutwe ndetse arimo kumumurika mu kanwa mu buryo bwo kumuvura.

Ikirahure cyagenewe kunywererwamo, hejuru yacyo hakaba hari icupa, ku munwa waryo ruguru hakaba hasa ibara ry'ubururu ndetse hariho n'akantu karizengurutseho k'ibara ry'umutuku, ririmo amazi arimo gusukwa muri icyo kirahure.

Umugore w'umuzungu uri mu myitozo ngororangingo yambaye akenda hejuru gaciye amaboko kari mu ibara ry'umweru, hasi yambaye umwenda w'ibara ry'umukara, afite imisatsi y'umweru, amaboko ye ayafatishije hasi ari mu cyerekezo kireba hasi arimo guseka bigaragara ko yishimye, iruhande rwe hateretse imbuto ziri mu bwoko butandukanye harimo imineke, harimo icunga, pome ndetse n'izindi.

Abantu babiri barimo bakora imyitozo ngororangingo birukanka, umugore yambaye agakabutura kagufi k'ibara ry'umukara ndetse n'agapira gaciye amaboko k'ibara ry'ubururu n'umukara, umugabo yambaye umupira uciye amaboko ibara ry'ivu ndetse n'agakabutura kagufi k'ibara ry'umukara n'i ibara ry'icyatsi kerurutse, bombi bafite uducupa turimo amazi mu ntoki zabo, umugore yambaye isaha ku kuboko y'ibara ry'umukara.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi giteretsemo ibikoresho byinshi bitandukanye, byagenewe kwifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo abaganga bahagaze abandi baricaye, bambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'ubururu abandi bambaye iy'ibara ry'icyatsi, bambaye udupfukamisatsi twabigenewe, udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki, imbere yabo hateretse imeza irambuyeho igitambaro cy'ibara ry'ubururu, ndetse hateretseho n'ibikoresho byagenewe kwifashishwa mu kuvura.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'ibara ry'ubururu, afite umusatsi w'umukara ndetse n'ubwanwa bw'umukara, yambaye umurimbo wo mu ijosi, ukuboko kwe kw'iburyo kurazamuye, afashe icupa mu ntoki ririmo amazi arimo kuyanywa.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororangingo, arahagaze, ku rutugu rwe hariho umwenda w'ibara ry'umweru, wagenewe kwifashishwa kwihanaguza ibyunzwe, ukuboko kwe afashe icupa ririmo amazi arimo kuyanywa, yambaye umupira uciye amaboko urimo amabara y'ubururu, icyatsi, umweru n'umukara.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororangingo hasi yambaye umwenda w'ibara ry'umukara ateruye icyuma cyagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo kiri mu ibara ry'umukara, imbere hateretse ibintu by'ubwoko butandukanye birimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa harimo amagi, inyama, imbuto, imboga nyarwatsi, n'ibindi.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umutuku n'umukara, amasogisi y'umukara, inkweto z'umweru, ari imyitozo ngororangingo, arunamye, amaboko ye ari imbere areba hasi, ukuguru kwe kw'iburyo gukandagiye ku gakoresho bifasha mu myitozo ngororangingo, kari mu ibara ry'ubururu, ukundi kuguru kw'ibumoso kuri inyuma, kurambuye, igice cy'imbere cyo kumanano kireba hasi, imbere ye hatetse udukorerisho tubiri bifasha mu myitozo ngororangingo turi mu ibara ry'umucungwe.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororangingo, itetswemo ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, harimo iby'ibara ry'umukara n'iby'ibara ry'ivu, hakaba hari umugore urimo akora imyitozo ngororangingo, ahagaze ku gikoresho kimwe yambaye umwenda uciye amaboko w'ibara ry'umweru, hari n'umugabo uhagaze inyuma ye wambaye umweru n'umukara n'agapfukamunwa.

Umugore wirabura, ufite imisatsi miremire y'umukara, yambaye agapira agaciye amaboko k'ibara ry'icyatsi kererutse, ndetse n'agakabutura kagufi k'ibara ry'ubururu, yambaye inkweto zibara ry'umweru, ubururu, umutuku, n'umuhondo, arimo gukora imyitozo ngororangingo, ukuboko kw'iburyo yakurambuye, gukandagiye hasi ukw'ibumoso yaguhinnye, amaboko ye ari imbere, yunamye, yafatishije ku cyuma cyagenewe gukoreshwa imyitozo ngororangingo, arimo aragisunika.

Ikirangantego gishushanyijeho imirasire y'izuba iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse izengurukijweho n'umugozi upfunditse uri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hasi yawo hari ibara ry'umuhondo ryanditswemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Hagati mu mirasire hashushanyijeho abantu babiri barimo gukina umukino wa jido, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye imyenda y'umweru.

Umugabo ari mu myitozo ngororangingo yunamye areba hasi, ukuboko kw'ibumoso gufashe hasi ukuguru kwe kw'iburyo gukandagiye hasi, ukuguru kwe kw'ibumoso kurambuye ivi rireba hasi, ikirenge cyako ku gice cy'imbere ku mano gikandagiye hasi.

Umugabo wirabura uri mu myitozo ngororangingo yambaye umupira w'amaguru magufi w'ibara ry'ubururu bwijimye, afite ubwanwa buke bw'umukara ku kuboko kwe kw'iburyo yambaye isaha y'ibara ry'umukara ndetse yakuzamuye agufatishije icupa ririmo amazi arimo kuyanywa.

Igikoresho cyagenewe gukoreshwa imyitozo ngororangingo ikozwe mu cyumatwararagivu ndetse agana gakoresho k'ibara ry'umutuku ndetse ku ruhande hari ikindi gikoresho cyagenewe gupima metero cyangwa uburebure gishushanyijeho imibare nibara ry'umukara, imbere yabyo hari imbuto zitandukanye harimo icunga, pome n'izindi ndetse imbere yabyo hateretse agacupa karimo amazi karimo ibara ry'ubururu.

Ibiribwa birimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto biri mu mabara atandukanye, harimo icyatsi kibisi, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, iruhande rwabyo hari icupa riteretse, ryagenewe kujyamo amazi ndetse imbere yabyo hari igikoresho cyagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororangingo yambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru. Yambaye ku kuboko agakoresho kifashishwa kumenya igihe; n'udukoresho mu matwi twifashishwa kumva amajwi, yicaye ahinnye ukuguru kw'imoso, ukw'iburyo yakurambuye. Yarambuye amaboko ye, umutwe yawunyujije hagati y'amaboko ye, ibiganza bye bifashe ku kirenge cya ahagana ruguru, ku mano.

Umugore wirabura ari mu myitozo ngororangingo yambaye akenda kadafite amaboko kari mu ibara ry'ivu n'umukara, afite imisatsi y'umukara, yambaye udukoresho mu matwi twifashishwa kumva amajwi turi mu ibara ry'umweru, ku kuboko kw'iburyo yambayeho igikoresho cyifashishwa kumenya igihe yakumanuye, yaguhinnye, yagufatishije mu mugongo akwicishije inyuma, ukuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha iri mu ibara ry'umukara.

Igikoresho kitwa imbago kirashinze kiri mu ibara risa umukara ndetse n'irindi ry'ivu, kikaba cyaragenewe kwifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabasha kugenda.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura, afite ubwanwa bukeya hagati y'umunwa wo hejuru n'amazuru ndetse n'ubundi bwanwa hasi ku kananwa ni ibara ry'umukara, mu kiganza cye afite icupa ririmo amazi arimo kuyanywa.

Icyumba kiri mu ibara ry'umweru, hasi akaba ari umukara, harimo umugabo uhagaze w'umuganga, yambaye n'umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru, ndetse yambaye n'udupfukantoki, mu ijosi yambayemo agakoresho bifashisha mu kugenzura uko umutima utera, ndetse mu ntoki ze afashe kimwe mu bikoresho akoresha kiri mu ibara ry'umutuku.

Ukuboko k'umuntu w'umuzungu kw'iburyo kugaragara ari igice ndetse umuntu we ubwe atagaragara, ufashe icupa ririmo amazi ndetse ripfundikishijwe umufuniko w'ibara ry'ubururu.

Icyumba cyagenewe ahakorerwamo imyitozo ngororangingo, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, harimo abantu babiri, umugore umwe usutamye, ndetse n'umugabo umwe urimo gusimbuka, arimo gukora imyitozo ngororangingo.

Umugore uri mu myitozo ngororangingo, yambaye ipantaro y'ibara ry'ivu n'agapira kagufi gaciye amaboko k'ibara ry'umweru, afite umusatsi mwinshi w'umukara, ari mu cyerecyezo cy'aho yunamye ahese umugongo, ukuboko kwe kw'indyo yagufatishije mu mugongo, ukuguru kwe kw'indyo yakurambuye ashinze agatsintsino, haruguru ahagana ku mano yafatishijeho ukuboko kwe kw'imoso akurambuye.

Icyumba kinini cyaguye gisize irange ry'umweru, harimo abantu batatu umugore umwe ukikiye umwana mutoya ndetse n'umugabo w'umuganga wambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'ubururu, bambaye udupfukamunwa, umuganga afite agakoresho mu ntoki afashe umwana mu mutwe arimo kumusuzuma ndetse imbere ye hatetse imeza iri mu ibara ry'ikigina iteretseho ibikoresho byinshi bitandukanye, byagenewe kwifashishwa mu kuvura.

Umuntu w'umwirabura w'igitsina gabo ari mumyitozo ngororangingo yambaye imyenda y'umukara afite umusatsi w'umukara, ubwanwa bw'umukara, yapfukamye ku gakoresho kabugenewe kuregwaho imyitozo ngororangingo, amaguru ye arahinnye igice cy'imbere kumano kireba hasi ndetse gifashe hasi, amaboko ye yayashyize imbere ye arambuye, ndetse umutwe yawurebesheje hasi awunyujije hagati y'amaboko ye iruhande rwe hari intebe.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura, yari ari mu myitozo ngororangingo, yambaye imyenda y'ibara ry'umukara hejuru ndetse no hasi, aricaye, ukuguru kwe kw'imoso yakuzamuye, amaboko ye yayafatishije ku itako rye, arimo gushinyiriza.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi barimo gukora imyitozo ngororangingo, hakaba harimo umuntu umwe wicaye ku gitanda, gifite umufariso w'ibara ry'umukara, yambaye imyenda y'ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara n'umweru.

Imodoka yagenewe kugenderwamo abarwayi yitwa ambulance, iri mu ibara ry'umweru ndetse havanzeho n'amabara y'umutuku, inyuma ifite ipine iri mu ibara ry'umukara icanye amatara y'inyuma, irimo kugendera mu muhanda wa kaburimbo. Imbere hayo hari ibiti byinshi birimo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'amazu.

Abantu babiri bari ahantu mu cyumba gisize irange ry'umweru, umwe yambaye ikabutura ngufi y'ibara ry'umukara ndetse n'ivu, aryamye ku gitanda ahinnye ukuguru kwe kw'indyo, undi amuhagaze imbere w'umuganga, yambaye umwenda w'akazi w'ibara ry'umweru, yamushyizeho amaboko kuri kwa kuguru guhinnye, arimo kumukanda mu buryo bwo kumuvura.

Umuntu w'igitsina gore wirabura ari mu myitozo ngororangingo, ku mutwe we yambaye agatambaro yakazengurukije mu mpanga k'ibara ry'umukara ndetse hari n'akandi yafungishije k'ibara ry'iroze, azamuye amaboko ye arimo kuyananura.

Umugabo wirabura urimo gukora imyitozo ngororangingo, ahagaze ateye umugongo, yambaye umupira uciye amaboko uri mu ibara ry'ivu, hariho akabara k'umukara, yambaye isaha y'ibara ry'umukara, afite umusatsi w'umukara, azamuye amaboko ye ayacishije inyuma, ukw'iburyo n'ukw'ibumoso, ahuje ibiganza abifatishije ku mutwe we igice cy'inyuma.

Icyumba kinini cyaguye cyagenewe kuvurirwamo abarwayi, harimo amatara hejuru amanitse arimo kwaka ndetse hateretswemo ibikoresho byinshi bitandukanye, byagenewe kwifashishwa mu kuvura abarwayi, bimwe biri mu ibara ry'ivu, ibindi biri mu ibara ry'umweru ndetse hateretswemo igitanda kiriho umufariso w'ibara ry'ubururu cyagenewe kuryamishwaho abarwayi igihe barimo kuvurwa.

Imeza iri mu ibara ry'umweru iteretseho imashini yagenewe gukorerwaho ibikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibitabo n'ikaramu, imbere yabyo hahagaze umugore wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari umuganga. Yambaye agakoresho mu ijosi gapima uko umutima utera, arimo kwambara agapfukamunwa ku ntoki n'ibiganza yambaye udupfukantoki n'ibiganza mu ibara ry'ubururu, ndetse afite n'umusatsi w'umukara.

Umupira wagenewe gukinishwa umukino witwa football mu rurimi rw'Icyongereza, urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwawo hateretse urukweto rurimo amabara y'umutuku, umukara, umweru ndetse na kake, imbere yawo hateretse agakoresho kagenewe mu kwifashishwa gupima uko umutima utera.

Ibiganza bibiri by'umuntu biteruye imboga n'imbuto z'ubwoko butandukanye, iruhande rwe hasi iburyo hari inkweto ndetse iruhande rwe ibumoso hari udukoresho twagenewe kwifashishwa bakora imyitozo ngororangingo, hakaba hari n'icupa ririmo amazi, imbere ye hari agakoresho kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororangingo.

Agatsiko k'abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bahagaze bunamyemo barimo gukora imyitozo ngororangingo, imbere yabo hari ibiti byinshi bibakikije.

Umuntu wirabura ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe icupa mu ntoki ririmo amazi riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hirya ye hagaragara ibicu biri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara afite imisatsi miremire, ari mu myitozo ngororangingo, icyerekezo cy'aho ibirenge bye bizamuye bikoze ku bibero, ukuboko kwe kumwe kurashinze ku iburyo, ukundi kurazamuye, umutwe we yawurebesheje hasi ku ruhande rw'iburyo, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Inkweto ebyiri nziza cyane ziri mu ibara ry'umukara zizamuye zifite imashini ku mpande, zifite imigozi yazo nayo iri mu ibara ry'umukara, ku ruhande hariho agapapuro kari mu ibara ry'umweru, kanditseho ubwoko bwazo, ndetse naho ziba zarakorewe.

Umugabo wicaye yambaye umupira w'ibara ry'ubururu bwijimye, harimo imirongo itambitse y'ibara ry'umweru, hasi yambaye ipantaro y'ibara ry'ivu, mu ntoki ze afashe agakoresho kagenewe kwifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, kari mu ibara ry'umukara, iruhande rwe hari umugore umwunamye hejuru urimo kumuvugisha mu buryo bwo kumufasha.

Umuntu wirabura aricaye yambaye umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'ironji apfutse igipfuko cy'ibara ry'umweru mu ivi ku kuguru kwe kw'indyo ndetse yagifatishijeho imitwe y'intoki ze z'ukuboko kw'indyo.

Umugabo wirabura uhagaze, ugaragara ko ari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororangingo, yambaye umupira uciye amaboko urimo ibara ry'icyatsi, ukuboko kw'ibumoso yambaye umurimbo w'ukubako uri mu bwoko bw'umwenda w'ibara rya move, afite icupa mu ntoki ze ririmo amazi, arimo kwisukaho mu maso ahumirije.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororangingo, yambaye ipantaro imufashe y'ibara ry'ubururu bwerurutse ririho akabara k'umukara hasi ,ndetse n'agapira hejuru kagufi k'ibara ry'umweru, apfukamye hasi n'ukuguru kumwe kw'iburyo ndetse ukundi kw'ibumoso yagushyize imbere agushinze, yazamuye amaboko ye yombi ari mu cyerekezo kireba imbere.

Umuntu uhagaze w'umuganga, yambaye ndetse n'umwenda w'akazi uri mu ibara ry'umweru, mu ijosi yambayemo agakoresho kagenewe gupima uko umutima utera kari mu ibara ry'umukara, umutwe we ukaba utagaragara, mu ntoki ze afashe akantu kameze nka ya mipira bakinisha Rugubi mu rurimi rw'Icyongereza kari mu ibara ry'umutuku.

Abantu babiri uwambaye agakabutura kagufi k'umukara n'inkweto z'icyatsi, umukara, umweru, amaogisi y'umweru, aryamye ku gatanda k'umweru, agashuka k'umweru, undi yamuhagaze iruhande yambaye imyenda y'ubururu bwijimye, ibiganza bye n'intoki ze ziri kuguru kwa wa wundi uryamye, bigaragara ko arimo kumukanda amuvura nyuma y'imyitozo ngororangingo yakoze.

Umuntu uri mu myitozo ngororangingo, yambaye umupira w'ibara ry'iroza, ndetse yambaye udukoresho mu matwi ye, tumufasha kumva amajwi tw'ibara ry'umweru, ku kuboko kwe aziritseho igikoresho gifasha kumenya igihe, mu ntoki ze ku kuboko kw'imoso afitemo icupa ririmo amazi, arimo kuyanywa.

Amacupa atandatu ashinzwe acuritse arapfundikiye ari mu ibara ry'umweru, ashushanyijweho igihingwa cyitwa igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi ndetse yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Aya macupa agaragara ko arimo imiti ikozwe muri iki gihingwa cy'igikakarubamba ivura indwara zitandukanye.

Amacupa ane ari mu ibara ry'umweru ateretswe acuritse, arapfundikiye ,hari rimwe rishushanyijweho igihingwa k'igikakarubamba ndetse n'akandi gato cyane gateretse imbere yayo, hakaba ar'igikakarubamba giteretse imbere yabyo hakaba hari andi ari iruhande rwayo manini iriri mu ibara ry'umuhondo rifite umufuniko w'ikigina n'irindi ry'umweru rifite umufuniko w'umutuku n'irindi ry'umweru ripfundikijwe n'umufuniko w'umuhondo.

Igiti gishinze gifite amashami n'amababi atari mato atari na manini mu ibara ry'icyatsi, akaba ari umuti wa Kinyarwanda cyangwa se umuti gakondo, inyuma yacyo gikikijwe n'ibindi biti byinshi bimeze nk'imbingo, hasi akaba ari ibitaka.

Amacupa abiri matoya ateretse ari mu ibara ry'umuhondo ndetse afite imifuniko y'umukara, ashushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi kibisi, yanditseho amagambo y'ibara ry'umukara iruhande rwayo hateretse ikirahure kirimo amazi.

Icupa riri mu ibara ry'umweru, rishinze ricuritse, rirapfundikiye, handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse hashushanyijeho igihingwa cyitwa igikakarubamba kivura indwara nyinshi zitandukanye, bigaragara ko iri cupa ryagenewe gushyirwamo umuti ukozwe muri icyo gihingwa cy'igikakarubamba.

Udukarito tubiri, kamwe kari hasi akandi kari hejuru yako, turimo amabara atandukanye icyatsi, umuhondo, ubururu n'umutuku. Akari hejuru hashushanyijeho imbuto ndetse n'imboga, mo imbere harimo ibinini bivura indwara zitandukanye, bakunze kwita ngo ''ni indyo nyunganiramirire'', imbere yatwo hakaba hari umuntu wunamye wambaye umupira w'ibara ry'umukara.

Igiti cy'umubyimba muto gifite amashami ariho amababi menshi acucitse ari mu ibara ry'icyatsi kibisi atari manini kandi si matoya araringaniye akaba yitwa umuravumba. Ni umuti gakondo wagenewe kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibinini nyunganiramirire bibitse mu gakoresho k'ibara ry'ivu, imbere yabyo hateretse agakarito kagenewe kubibikamo kari mu ibara ry'icyatsi, umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, hashushanyijeho inyuguti ya se iri mu ibara ry'umutuku ndetse hashushanyijeho imibare ya makumyabiri na kane kuri karindwi iri mu ibara ry'umukara.

Agakarito karimo imiti ivura indwara zitandukanye kakaba kagizwe n'amabara atandukanye, ari yo: ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu bwerurutse, ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ibara ry'umutuku, hakaba hariho amagambo yanditseho agizwe n'ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umutuku, ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Agacupa gatoya karateretse kari mu ibara ry'umuhira, gafite umufuniko w'ikirahure, haruguru ahagana ku mutwe harasa umukara, kandiyandikeshijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse gashushanyijeho inyoni.

Icupa ryiza cyane riteretse, riri mu ibara ry'ibihogo, hejuru ku mutwe waryo harasa ibara rya kake, ripfundikishijwe n'umufuniko uri mu ibara ry'umweru, rikaba ryometsweho igipapuro kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara y'umuhondo n'umutuku, hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza avuga ubuki bw'inzuki bigaragara ko ryagenewe gushyirwamo ubuki.

Ikiganza cy'umuntu gifashe icupa riri mu ibara ry'umuhira ryagenewe gushyirwamo amavuta yo kwisiga ku mubiri, rikaba rishushanyijeho igihingwa cyitwa igikakarubamba ndetse hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura icyo gihingwa cy'igikakarubamba, rikaba ryaragenewe gushyirwamo amavuta akozwe muri icyo gihingwa cy'igikakarubamba.

Igiti gifite amashami ariho amababi menshi cyane, akaba atari manini, si na matoya araringaniye, ari mu ibara ry'icyatsi gitoshye, akaba ari umuti gakondo wagenewe kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa menshi ateretse hamwe ari ku murongo harimo amaremare ndetse n'amagufi y'amabara atandukanye, harimo afite imifuniko y'umutuku, imifuniko y'umuhondo, imifuniko ya kaki arimo imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Agati karekare karandaranze hasi ku butaka kakaba gafite amababi ari mu ibara ry'icyatsi ndetse kakaba kariho n'indabo zo mu ibara ry'iroze, umuhondo n'umweru akaba ari umuti gakondo cyangwa umuti wa kinyarwanda.

Amacupa menshi ateretse agiye ari ku murongo akozwe mu birahuri, amwe apfundikijwe n'imifuniko y'ibara ry'umutuku andi apfundikijwe n'imifuniko y'i ibara ry'umweru, imbere yayo hometseho udupapuro turi mu ibara ry'umweru ndetse handitseho n'amagambo y'umukara, mo imbere hakaba harimo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Igiti cy'igikakabamba mu ibara ry'icyatsi, mbere yacyo hari imbuto ebyiri za avoka, imwe iruzuye indi n'igice ndetse ifite urubuta rwayo mo imbere mu ibara ry'ikigina, imbere yabyo hari isabune iri mu ibara ry'icyatsi cyerurutse higanjemo umweru, bigaragara ko iyi sabune ikozwe muri ibi bintu byombi, icyo gikakarubamba n'izovoka, mu buryo bw'umuti.

Icupa riri mu ibara ry'umweru rirateretse kandi rirapfundikiye, handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'ayandi ari mu ibara ry'umukara, handitseho imibare iri mu ibara ry'umweru ryagenewe gushyirwamo umuti wa gakondo uvura indwara zitandukanye.

Igiti gifite umubyimba muto, gifite amashami ariho amababi menshi amanini ndetse n'amatoya ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ni umuti gakondo uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Igiti kiri ahantu mu ishyamba, gifite amashami ariho amababi ateyeho agiye ari atatu atatu, atari matoya ndetse si na manini, aringaniye, y'ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari umuti gakondo wagenewe kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo iri mu bwoko bwinshi butandukanye ndetse ifite amabara menshi atandukanye ivura indwara nyinshi, iri mu bitebo bikozwe mu mikindo, iruhande rwabyo hateretseho akandi gasekuru n'agahini kako biri mu ibara ry'umweru, mo imbere hakaba harimo amababi y'umuti gakondo.

Igiti gifite umubyimba muto, gifite amashami, hariho amababi menshi atari mato, si na manini aringaniye ndetse n'imbuto, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bikaba ari umuti wa gakondo wagenewe kuvura indwara nyinshi zitandukanye, hari ikiganza cy'umuntu gifashe ku kibabi kimwe, hirya yabyo hari inzu.

Ibiti bifite amashami y'umubyimba muto, ariho amababi menshi, agiye acucitse, amato ndetse na manini, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse hariho n'ayandi y'umuhondo, ni umuti wa gakondo uvura indwara zitandukanye.

Imbuto z'amacunga ndetse n'indimu biri mu bwoko butandukanye, zimwe zifite ibara ry'umuhondo, inyuma kuru ndetse izindi zifite ibara ry'icyatsi, nyuma ku ruhande ndetse n'amababi y'ibara ry'icyatsi, zimwe zirakase izindi ntizikase.

Amaboko abiri y'umuntu afashe isekuru n'umuhini, iteretse ku musambi uboshywe mu mukindo n'imigwegwe, arimo gusekura imiti nyarwatsi ya gakondo, imbere ye hateretse andi masahani n'amabakure bikozwe mu ibumba, icyuma ndetse nandi aboshywe mu mikindo, iriho imiti itandukanye ya gakondo.

Umukeka mutoya usashwe hasi uteretsweho utubakure tw'ibara ry'umukara, harimo imiti y'amabara atandukanye, imiti gakondo ivura indwara zitandukanye ndetse hari n'iyindi miti iteretse hasi.

Agacupa gatoya karapfundikiye, karateretse, kari mu ibara ry'umweru, handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'ayandi magambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara, hariho akabara ka move, handitsemo amagambo mu ibara ry'umweru.

Amacupa menshi cyane ateretse hamwe agiye ari ku murongo, arapfundikiye ari mu ibara ry'umweru, handitseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umuhondo, ayandi mu ibara ry'ubururu, ayandi mu ibara ry'icyatsi cyerurutse, ndetse hakaba hari n'ikarito iteretse hagati yayo, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyerurutse ishushanyijeho imbuto, byose bikaba byaragenewe gushyirwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Icupa rito riteretswe ricuritse rikaba riri mu ibara ry'umweru, rikaba ripfundikishijwe n'umufuniko w'ibara ry'ubururu, hakaba handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse hashushanyijeho n'inyoni iri mu bwoko bw'igisiga.

Agacupa gatoya gateretse kari mu ibara ry'umweru gapfundikiye, kakaba kariho nirindi bara ry'umuhondo, kandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo n'andi ari mu ibara ry'umukara, kakaba gashushanyijeho inyoni iri mu bwoko bw'igisiga.

Uduti twinshi, dufite umubyimba muto cyane, dufite amashami ariho amababi menshi agiye acucetse, atari manini ndetse atari mato cyane aringaniye, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari umuti wa gakondo, wagenewe kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa gateretswe gacuritse, karapfundikiye, kari mu ibara ry'umweru. Kandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse gashushanyijeho amababi y'igihigwa kitwa igikaka rubamba kivura indwara zitandukanye. Bigaragara ko kano gacupa karimo uno muti uvura indwara zitandukanye.

Ibinini iruhande rwabyo hari utubabi dutoya tw'ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari imiti gakondo irimo gusukwa mu gacupa gatoya k'umweru, ahandi hari agacupa gatoya k'ibara ry'ikigina kagaragiwe n'amababi y'ibara ry'icyatsi; bigaragara ko ari imiti gakondo, ahandi hari amababi atandukanye, amanini ndetse n'udutoya cyane, byubakiwe mu gikoresho cyabigenewe, kibara ry'umukara; bigaragara ko na byo ari imiti ya gakondo.

Igiti cy'umuravumba gifite amashami menshi hashamikiyeho amababi atari mato atari manini aringaniye ari mu ibara ry'icyatsi, bikaba ari umuti gakondo cyangwa umuti wa kinyarwanda uvura indwara nyinshi zitandukanye, hiryaya yabyo hari urutoki rurimo insina ndetse impande hari inzui n'igipangu biri mu ibara ry'ivu.

Ibitunguru bibiri by'ibara ry'umutuku, kimwe kiracyari cyose, ikindi ni igice gikasemo kabiri ndetse n'indimu iri iruhande rwabyo iri mu ibara ry'icyatsi kibisi ikasemo kabiri, iruhande rwabyo hateretse icupa ririmo amavuta y'ubuto.

Uduti twinshi tw'umubyimba muto cyane, dufite amashami ariho amababi atari manini ahubwo mato, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho n'ururabo ruri mu ibara ry'umuhondo, ukaba ari umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Amacupa ari mu bwoko butandukanye harimo uduto n'amanini bikaba biri mu mabara atandukanye ubururu, umweru n'ay'umuhondo n'umukara n'ay'umutuku n'umweru n'ay'icyatsi n'umweru, hakaba hari udukarito turimo amasabune turambitse hasi turimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, byose bikaba ari umuti gakondo cyangwa umuti wa Kinyarwanda.

Imeza y'ibara ry'ikigina isasheho amakoma ari mu ibara ry'icyatsi hateretseho imiti ya Kinyarwanda cyangwa imiti gakondo iri mu bwoko butandukanye, ibyatsi byumye, imbuto ndetse n'ibiti, hateretseho agasekuru gatoya n'agahini kako, biri mu ibara ry'umweru na kake, hirya y'ako hateretse akandi kabakure gatoya kari mu ibara ry'umweru mo imbere hatetsemo ibintu biri mu ibara ry'umweru.

Igiti gifite amashami ariho amababi matoya menshi agiye acucitse cyane, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari umuti wa gakondo wagenewe kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imbuto z'amapapayi abiri, rimwe riracyari ryose ntabwo rikase riri mu ibara ry'icyatsi irindi riryegetseho rirakase ni igice mo imbere rirasa ibara ry'icunga ndetse ifite utubuto twazo tw'ibara ry'umukara.

Uducupa duteretswe ducuritse, turapfundikiye, turi mu ibara ry'umweru, hakaba hariho n'irindi bara ry'icyatsi kibisi, dushushanyijweho igihingwa cy'igikakarubamba tukaba twanditsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'andi y'ibara ry'umukara, hakaba hashushanyijweho inyoni iri mu bwoko bw'igisiga.

Igiti gifite umubyimba muto, gifite amashami ariho amababi menshi y'icyatsi kibisi ndetse atoshye, harimo amanini n'amatoya, akaba ari umuti gakondo, uvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse hasi hakaba hari n'ibindi biti byumye.

Umugore uhagaze yambaye imyenda y'ibara ry'umweru, ku kuboko kwe afiteho isakoshi y'ibara rya kaki, afite imisatsi y'umukara, imbere ye hari insina ndetse n'igiti cy'amababi menshi cyane y'ibara ry'icyatsi, yarambuye ukuboko kwe ayakozeho bigaragara ko arimo gusoroma, akaba ari umuti gakondo cyangwa wa kinyarwanda.

Igihingwa k'igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi, kivura indwara zitandukanye, imbere yacyo hateretse akadomoro karimo mu ibara ry'umuhondo ndetse gapfundikishijwe n'umufuniko w'ibara ry'umutuku kanditseshijeho amagambo y'ibara ry'umutuku kagaragara ko kagenewe gushyirwamo umuti wo kunywa, uvura indwara zitandukanye, ukozwe muri icyo gihingwa k'igikakarubamba.

Ibiti byinshi birebire bifite amashami ariho amababi menshi atari matoya sina manini aringaniye ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari umuti gakondo wagenewe kuvura indwara nyinshi zitandukanye.